Abana b'abanyeshuri bambaye iniforume bishimye bari kuvoma amazi kugira ngo babashe kujya gukora isuku y'aho bigira kugira ngo birinde umwanda.

Ivomero rusange riri mu mudugudu, rikikijwe nabana b'urubyiruko aho umwana ari gukarabirizwa mu base n'umukuriye, kandi ibi ntago ari byiza kuvomera rusange.

Umuganga ari kumwe n'umurwaza hamwe n'umurwayi cyangwa umubyeyi utwite, aho bari gukoresha icyuma kibasha kumva uko umwana mu nda ameze cyangwa ubuzima bw'umwana mu nda uko buri kugenda.

Abana bambaye impuzankano z'ishuri aho bafite ibikombe mu ntoki, bari kunywa amazi meza aturutse mu kigega rusange begerejwe cy'amazi meza kugira ngo barwanye indwara zandurira mu kunywa amazi atari meza.

Imbaga y'abantu higanjemo abaganga n'abandi bantu, bamwe n'abazungu aho bahurira muri iyi nyubako, bakaganira ku buryo bagomba kurwanya no kubungabunga abaturage, mu buryo bwo kwirinda indwara zimwe na zimwe zugarije isi.

Umukobwa usutamye kandi wishimye, ari kuvoma amazi kumugezi murugo, meza kugira ngo abashe gukora amasuku n'indi mirimo yo mu rugo akoresheje amazi meza asukuye kandi atarimo imyanda.

Umujyanama w'ubuzima aho ari kugenda azenguruka mu ngo zitandukanye, aha inama ababyeyi n'abana, uburyo bagomba kwirinda indwara zitandukanye, zibasira abantu muri iki gihe.

Abana benshi bari ku ivomero rusange aho ryabegerejwe kugira ngo bajye bakaraba amazi meza kugira ngo hirindwe indwara zimwe na zimwe zandurira mu mazi adasukuye nk'inzoka n'izindi ndwara.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, harimo ababyeyi, abasaza, abakecuru, abagabo, n'abandi, aho bahuriye mu nyubako ibugenewe, bahabwa amabwiriza y'uburyo bagomba kwita ku buzima bwabo n'ubw'abandi.

Urujya n'uruza rw'abantu ruza ku bigonderabuzima cyangwa ku bitaro rusange aho baza kwivuza indwara zimwe na zimwe zitandukanye kugira ngo babashe kuba bazikira kandi bakanazirandura burundu.

Polisi iri kumwe n'abandi bantu b'abakorerabushake, baje kubahiriza gahunda ya leta yo kwita ku bana, harimo kubagaburira indyo nziza yuzuye, kugira ngo abana babe bafite ubuzima buzira umuze.

Abana babiri basutamye ku mugezi, bigaragara ko bishimye, bari gukaraba intoki n'amazi meza yo ku mugezi, birinda indwara zandurira mu mazi adasukuye.

Abana bagiye mu mugezi utemba, aho bari kuvoma amazi yaho kandi aya mazi ntabwo isuku yayo yizewe neza, ashobora kuba yateza indwara zimwe na zimwe zitandukanye nk'inzoka n'izindi zataka abana.

Ababyeyi batatu baje ku iriba rusange ryegerejwe umudugudu, aho baza kuvoma amazi meza kugira ngo babashe kuyakoresha n'ayo kunywa, kugira ngo barwanye indwara zimwe na zimwe zandurira mu mazi atari meza.

Umwana wishimye ufashe ku ijerekani aho ari kuvoma amazi meza ku ivomero rusange ryegerejwe mu mudugudu kugira ngo babashe kuba babona amazi meza abafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umubyeyi uteruye umwana, aho bagiye ku kigo nderabuzima cyangwa ku bitaro aho umwana ari guhabwa urukingo rw'ibanze rumurinda indwara z'abana harimo imbasa, iseru, n'ibindi.

Imbaga nyamwinshi y'abantu harimo abagabo n'abagore n'umuzungu bari mu nyubako yabugenewe, aho bahererwagamo amabwiriza bafata n'ingamba y'uburyo bagomba kurwanya zimwe mu ndwara zugarije isi.

Abagabo babiri b'abayobozi bigaragara ko bishimye mu kuba barafashe ingamba mu kurwanya icyorezo cya mabage kugira ngo kiranduke ku isi hose, abaturage babe bameze neza kandi bafite ubuzima bwiza.

Umubyeyi ugaragiwe n'abana benshi bishimye, bigaragara ko bari guhabwa amabwiriza n'amasomo n'ukuntu bagomba kwirinda indwara zimwe na zimwe zugarije isi cyangwa n'abandi begeranye cyangwa ababaturanyi babo.

Umubyeyi ukuze wikoreye ijerekani y'amazi, aho avuye gushaka amazi ku ivomero rusange ryegerejwe abaturage, kugira ngo babone amazi meza abafasha mu kwirinda indwara zimwe na zimwe zitandukanye ziterwa no kuba amazi mabi abegereye akabatera indwara.

Abana benshi bagaragiye ivomero cyangwa aho baza kunywera amazi meza, gusa bamwe muribo bari gukoresha intoki. Kandi si byiza gukoresha intoki unywa amazi. Ugomba gukoresha ibikoresho byabugenewe.

Ababyeyi babiri bari guterura umufuka bawuha umugabo uri hejuru aho bigaragara ko bari gukora imirimo ivunanye kandi batikingiye; aha bishobora kubateza impanuka zitandukanye bakaba bavunika cyangwa bagakomereka.

Umwana w'umunyeshuri w'umukobwa aho ari ku ivomero ku kigo cy'amashuri ari gukaraba intoki n'amazi meza kugira ngo abashe kurwanya indwara zimwe na zimwe zandurira mu kuba umuntu yasuhuza undi cyangwa se no mu zandurira mu mazi adasukuye.

Urujya n'uruza rw'ababyeyi bigaragara ko batwite aho bari kuza kureba umuganga ngo abasuzume uko ubuzima buhagaze, hakoreshejwe ibikoresho by'ibanze nko kureba uko umuvuduko w'amaraso ugenda uko umutima utera n'ibindi.

Ababyeyi batatu babiri bari kumanura icyuma, undi umwe ari kuvoma amazi ku ivomero rusange begerejwe mu mudugudu ribaha amazi meza.

Umugabo n'umwana bari ku ivomero rusange, aho umwana ari guterura indobo irimo amazi meza, kugira ngo abashe kuba yayageza mu rugo, na bo babone amazi meza.

Umubyeyi uhetse umwana aho bigaragara ko ari koza ibikoresho byo kuvomeramo amazi ku ivomero rusange, byegerejwe umudugudu kugirango babone amazi meza yo gukoresha no kunywa kugirango ubuzima burusheho kumererwa neza.

Abana babiri bishimye baje kuvoma amazi ku ivomero rusange, ryegerejwe abaturage mu mudugudu kugira ngo babone amazi meza abafasha mu kwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kuba hatari amazi meza.

Umugabo wishimye ahagaze kandi atsikamiye injerekani aho yagiye gushaka amazi meza ku ivomero rusange riri mu mudugudu.

Umubyeyi ari mu rugo iwe, arishimye, ari gukaraba intoki n'amazi meza avuye muri kandagira ukarabe bigaragara ko avuye mu bwiherero kugira ngo yirinde indwara cyangwa mikorobe akura mu bwiherero.

Ikinyabiziga gikururana gitwaye bimwe mu bikoresho n'imiti yifashishwa mu buvuzi rusange bw'abaturage cyane cyane hibandwa mu kubigeza mu bigo nderabuzima no mu bitaro rusange.

Umwana wishimye kandi wunamye ari gukaraba intoki n'amazi meza aturutse mu ivomo rusange begerejwe mumudugudu kugirango babashe kwirinda indwara zimwe na zimwe ziterwa n'amazi mabi.

Abaganga batatu bambaye imyenda y'ibanze bakoresha mu rubagiro bari kubaga umurwayi ufite indwara runaka isabwa ko ari bubagwe, bambaye udupfukamunwa kandi bishimiye akazi bakora.

Umujyanama w'ubuzima ari kumwe n'ababyeyi bazanye abana babo kubapimisha ibiro kugira ngo barebe ko ibiro abana bafite bihuje n'uko bangana, cyane cyane mu kureba ko nta ndwara bafite zatuma abana batagira ubuzima bwiza.

Umwana w'umukobwa n'umuhungu bari kumwe mu rugo, aho umukobwa ari gusukira musaza we amazi meza kugira ngo abashe gukaraba intoki n'isabune kugira ngo yirinde udukoko tumwe na tumwe twaba twagiye ku biganza bye twamutera indwara.

Imbaga nyamwinshi y'abantu irimo abagabo n'abagore, n'abandi bicaye hamwe bafata ingamba, banarebera hamwe indwara zimwe na zimwe zugarije isi, kugira ngo bafate ingamba zo kuzirandura no kuzikuraho burundu.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, irimo ababyeyi, abapapa, abasaza, n'abakecuru, n'abandi, bari kuganira uburyo bagomba kwita ku buzima bw'abaturage n'ubwabo muri rusange, kugira ngo isi ikomeze kujya mu nzira nziza.

Urubyiruko n'abana bari ku ivomero rusange riri mu mudugudu, aho bazanye amajerekani kugira ngo bavome amazi meza bayatware mu ngo iwabo.

Umuzungu uhagaze afite indangururamajwi mu maboko ye, aho ari kugira inama cyangwa kwigisha abantu uko bakwiye kwita ku ndwara zimwe na zimwe zugarije isi kugira ngo bazirinde cyangwa bazirwanye.

Abantu harimo abajyanama b'ubuzima n'ababyeyi bazanye abana kugira ngo bahabwe imiti y'inzoka, cyangwa n'indi miti, yabafasha kuba barwanya ubuzima butagenda neza ku bana.

Imbaga nyamwinshi irimo abapolisi n'abandi bayobozi n'abaturage bandi, aho bari gukora akarima k'igikoni bateramo imboga n'ibindi kugira ngo bibashe kuzahura inzara y'abaturage cyangwa kurya ibindi bintu bitarimo intungamubiri.

Ibiganza biri gukaraba amazi meza n'isabune kugira ngo hirindwe indwara zimwe na zimwe zandurira mu gukaraba amazi adasukuye neza.

Ababyeyi bazanye abana babo ku kigo nderabuzima aho hari gukoreshwa ibikoresho by'ibanze, harimo inshinge bakingirwa indwara zimwe na zimwe zibasira abana bakiri bato.

Umwana w'umunyeshuri w'umukobwa ari ku rukarabiro aho akaraba intoki ze n'amazi meza, kugira ngo yirinde indwara zandura mu gusuhuzanya kw'abantu cyangwa mu buhumekero bw'abantu begeranye.

Abaganga n'abarwayi bambaye udupfukamunwa mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu buhumekero, aho abaganga bari gukingira indwara abarwayi cyangwa abaturage, kugira ngo habashe kwirinda kuba bakandura indwara nka ebora, koronavirusi na sida n'ibindi.

Imbaga nyamwinshi y'abantu harimo abagabo, abagore, abana, urubyiruko, abasaza, abakecuru aho baje gufata amabwiriza n'uburyo bagomba kwirinda indwara zimwe na zimwe zugarije isi.

Umwana ari gufungura indobo y'amazi kugira ngo abashe kubona amazi meza anywe, amurinda indwara zitandukanye ziterwa no kunywa amazi atari meza, harimo nka kolera n'izindi ndwara zishobora gutuma umwana yarwara inzoka.

Urujya n'uruza rw'ababyeyi bafite abana, babazanye ku kigo nderabuzima, kugira ngo babashe gufata inkingo zimwe na zimwe, zirinda abana indwara nk'imbasa, n'izindi zibasira abana bakiri bato.

Ababyeyi batatu baje ku ivomero rusange riri mu mudugudu kugira ngo babashe kubona amazi meza yo gukoresha mu rugo kugira ngo hirindwe indwara zimwe na zimwe ziterwa n'amazi atari meza.

Agatara kanitseho ibikoresho byo mu rugo bita ibyombo bakoresha bari kurya cyangwa bari gukora isuku yindi kugira ngo hirindwe kuba hajyaho mikorobe zigiye mu mazi yaba azikiriho mu gihe bitumutse neza.

Ababyeyi baje ku kigo nderabuzima bari kumwe n'umuganga w'umubyeyi uri kubapima uburyo amaraso yabo ari gutembera, afite igikoresho cyabugenewe mu kubipima kandi bari kureba neza ko ubuzima bwabo bumeze neza.

Umugabo uri mu rugo rwe avuye mu bwiherero, ari gukaraba amazi aturutse muridagikarabe, kugira ngo abashe gusukura ibiganza bye neza n'amazi meza.

Tariki ebyiri kugera kuri eshatu z'ukwa cumi na kumwe, bibiri na makumyabiri na gatatu, ni iminsi yahariwe ubuzima no kwita ku ndwara zimwe na zimwe zugarije isi no kuganiraho cyane cyane ku ngingo nyamukuru zatuma ziranduka.

Ababyeyi bazanye n'abana babo, aho baje kugirwa inama mu buryo bashobora kwita ku bana babo neza, bakabitaho bagaburira indyo yuzuye, babaha uburere bwiza kandi bita ku isuku y'abana babo kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Imbaga nyamwinshi y'abantu irimo abasaza, abakecuru, abana, urubyiruko, ababyeyi, abagabo bari guhabwa amabwiriza n'ukuntu bagomba kwitwara no kwirinda indwara zandura hato hatazagira umuntu urwara kandi barahawe amabwiriza ahagije.

Umubyeyi ufite umwana, ari kumwe n'umuganga, aho uyu muganga ari guha umwana umuti bita umushongi, urinda zimwe mu ndwara zibasira impinja.

Abayobozi bari kumwe n'abazungu aho basuye ikigo cy'amashuri cy'abana benshi kugira ngo bahabwe inyigisho rusange zibafasha mu kumenya zimwe mu ndwara zibasira abantu n'uburyo bazirindamo.

Ababyeyi, abana n'urubyiruko baje ku ivomero rigezweho rusange kureba cyangwa se kuvoma amazi meza yabugenewe, kugira ngo habashwe kwirinda indwara zimwe na zimwe zandurira mu mazi atari meza nka korera n'izindi.

Ivomero rusange riri mu mudugudu aho hahuriraho urujya n'uruza rw'abantu, harimo ababyeyi, abana, abakecuru n'abandi, baje gushaka amazi meza abarinda indwara.

Umubyeyi ateruye umwana, yaje ku ivomero rusange kuvoma amazi meza abafasha mu kwirinda indwara zimwe na zimwe ziterwa n'amazi adasukuye, harimo nka korera n'izindi.

Umwana uri kunywa amazi aturuka muri robine iri ku ivomero rusange, ariko ari gukoresha intoki ze anywa amazi kandi ibi ntabwo byemewe, kuko ku ntoki ze ushobora gusanga hariho udukoko twaba twamutera indwara zitandukanye tukanduza amazi ari kunywa.

Umubyeyi ugaragiwe n'abana bishimye n'ibindi bikoresho rusange harimo amajerekani, amabase n' indobo, baje kuvoma amazi meza begerejwe mu mudugudu.

Abana benshi bari ku ivomero rusange ryo mu mudugudu aho buri wese ari gushaka gukaraba intoki n'amazi meza, gusa bari kurirwaniraho kandi si byiza kuko bashobora kwanduzanya indwara zitandukanye.

Inyubako nshya itaruzura neza, yahariwe ubuvuzi bw'ibanze bw'abaturage, aho buri muturage wese abugana kugira ngo abashe kubona bimwe mu byo akeneye, n'ubuvuzi bw'ibanze ku ndwara afite.

Umurwayi ari kumwe na muganga aho muganga yambaye ibikoresho bimupfuka intoki kugirango ntabashe kuba yakanduza umurwayi izindi ndwara, umuganga ari gukingira umurwayi zimwe mu ndwara zugarije isi.

Abaganga n'abandi babyeyi bakuze bambaye udupfukamunwa, aho abaganga bari gukingira ababyeyi ibyorezo bitandukanye harimo nka ebola coronavirus n'ibindi.

Dogiteri Sabe Nsanzimana umuza minisiteri y'ubuzima mu ishami rishinzwe ubuzima arabisi avuga ko hari ubwoko bwa kanseri bugira ubundi bwoko maganatandatu, ko bwica abantu magana atandatu ku mwaka ariko ibyiza byo kubwirinda ko ari uko umuntu atarabona ibimenyetso byose yabasha kwegera ivuriro rimwegereye.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima arabisi, cyateguye ibiganiro rusange ku baganga bagamije kureba ku kibazo cy'abana bavuka bagapfa, kugira ngo babashe kubikemura.

Abana bane bishimye cyane bari kumwe n'umubyeyi wabo, bafite amazi mu gikombe ari kubakarabya intoki kugira ngo zibe zisukuye bajye mu yindi mirimo bafite isuku ihagije.

Ivomero rusange riri mu mudugudu, rihuriraho urujya n'uruza rw'abantu, ari abana, ababyeyi urubyiruko n'abandi, baje kureba amazi meza abafasha mu kwirinda indwara zandurira mu mazi adasukuye.

Imbaga nyamwinshi irimo abagabo n'abagore n'abazungu baganiraga hamwe mu kurwanya igwingira ry'abana no kwita ku bagore batwite babaha inkingo z'ibanze kugira ngo bazabyare abana bujuje ubuzima bwiza.

Imbaga y'abantu harimo abagabo, abagore, abasaza n'abakecuru bari mu nyubako igezweho aho baganira ku buryo bagomba kwita ku ndwara zimwe na zimwe zibasira abantu kugira ngo ubuzima bw'abatuye isi bubashe kugenda neza.

Umwana w'umusore hirya ye hari indobo, bigaragara ko yaje kuvoma amazi meza, ariko ari no gukaraba intoki n'amazi meza yaturutse mu ivomero rusange.

Umwana usutamye kandi wishimye ari gukaraba intoki ze n'amazi meza yo ku ivomero rusange, hirya ye hari amajerekani bigaragara ko yaje kuvoma amazi meza.

Imbaga nyamwinshi y'abantu harimo abagabo, abagore abasaza, abana, urubyiruko n'abandi iteranyirijwe hamwe n'umuganga uri kubaha amabwiriza ku ndwara zimwe na zimwe uko bagomba kuzirinda n'uburyo bafatirwa ingamba kugira ngo ziranduke burundu.

Ababyeyi babiri aho bigaragara ko bari gutanga ibiganiro ku bijyanye n'ubuzima hamwe n'indwara zitandukanye zugarije abantu muri iyi Isi, kugira ngo habashe kuba hafatwa ingamba zo kuzirwanya.

Imbaga y'abantu benshi bari mu nyubako imwe aho hari umuganga uri kubagira inama mu buryo bakwirinda indwara zimwe mu zugarije isi.

Abaganga n'abandi bakorerabushake bari ahantu hateguwe kandi hizewe, bari gusuzuma abaturage indwara zitandukanye zugarije abantu muri iyi minsi, zituma ubuzima bw'abaturage butagenda neza.

Imbaga y'abantu harimo abagabo n'abagore n'abandi aho bahuriye muri iyi nyubako ,kugira ngo bahabwe amabwiriza y'uburyo bagomba kwita ku buzima bwabo, n'ubw'abandi babana nabo.

Ivomo rusange aho hari abantu bagenzura ko riri gukora neza hari n'urujya n'uruza rw'abantu higanjemowo urubyiruko ababyeyi n'abana baje kuvoma amazi meza.

Abana benshi bari ahantu hamwe, aho bigaragara ko bahawe amasomo menshi ajyanye n'ubuzima kandi no kwiyitaho mu rwego rwo kwirinda indwara zimwe na zimwe zibasira abana kugira ngo hirindwe kuba bagira ubuzima butameze neza.

Ababyeyi, abana n'urubyiruko baje ku ivomero rigezweho rusange, aho bazanye amajerekani kugira ngo bavome amazi meza yo gukoresha mu rugo hirindwa indwara zitandukanye ziterwa n'amazi atari meza.

Umwana usutamye umukobwa uri ku ivomo rusange bigaragara ko ari gukaraba intoki n'amazi meza kugirango abashe kwirinda zimwe mu ndwara ziterwa n'amazi atari meza.

Umubyeyi n'umwana we bari kumwe n'umuganga mu cyumba cyahariwe ubuvuzi bw'ibanze, aho bagiye kuvuza umwana indwara zimwe na zimwe zitandukanye, kugira ngo abashe kwitabwaho neza kandi ubuzima bwe bube buzira umuze.

Inyubako yabugenewe irimo abaganga n'abajyanama b'ubuzima, aho baba bari gusuzuma abarwayi cyane cyane hibandwa ku bantu bashaje kugira barebe uko bapimwa indwara zibasira abashaje.

Umubyeyi ari kumwe n'umwana bishimye, umwana yikoreye injerekani y'amazi, bahawe na UNICEF kugirango babashe kujya bavomera mu bintu bifite isuku kandi byizewe kugirango isuku ibe isoko y'ubuzima.

Imbaga nyamwinshi harimo abana, ababyeyi, abasaza, abakecuru n'urubyiruko, bafite amadarapo y'igihugu cy'u Rwanda mu ntoki, bishimiye ko bagiye guhabwa ubuvuzi bw'ibanze ku ndwara zo mu mutwe.

Umwana w'umusore w'urubyiruko uri kurira bigaragara ko afite ikibazo cy'ihungabana muri we cyangwa se afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe ukeneye kwitabwaho kugira ngo na we amere neza nk'abandi.

Umugabo wicaye hasi bigaragara ko afite ikibazo cy'indwara zo mu mutwe aho bigaragara ko nta myenda yambaye ihagije imukwiriye kandi nta n'isuku ihagije afite, bigaragara ko akwiye kwitabwaho kugira ngo nawe avurwe bihagije agire ubuzima bwiza.

Imbaga y'abantu benshi harimo abantu bize ku bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe, benshi baganira ku buryo babasha gufasha abantu barwaye indwara zo mu mutwe n'uburyo bashobora kubavura bagakira neza bakagira ubuzima bwuzuye.

Umujyanama w'ubuzima ari kumwe n'umubyeyi aho ari kumugira inama z'uburyo agomba kwitwara no kwita ku barwayi b'indwara zo mu mutwe, yaba ari abo babana cyangwa abandi b'abaturanyi.

Ababyeyi batatu harimo umwe ufite umwana uri konka ahagaze bigaragara ko uyu mubyeyi ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe kuko ntago ari byiza ko umwana yakonka umubyeyi ahagaze aticaye hamwe ngo aba atuje.

Umubyeyi wikoreye igitebo kirimo ingozi z'ibijumba afite n'isuka mu ntoki bigaragara ko avuye guhinga ariko ibi si byiza kwikorera ku mutwe kuko byangiriza bimwe na bimwe mu bice by'mutwe aho bishobora no gutera indwara zo mu mutwe.

"ISANGE One Stop Centre" ni gahunda yashyizweho na Polisi y'u Rwanda ifatanyije n'ibigo mpuzamahanga nka "Unicef", "UNIFEM" na "UNFPRA" igamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, n'irindi hohoterwa iryo ari ryo ryose rikorerwa abana b'abakobwa cyangwa igitsina gore muri rusange.

Inyubako yabugenewe ishinzwe kuberamo ibiganiro runaka hagamijwe kwigisha no gukangurira abaturage kwita ku barwayi bafite indwara zo mu mutwe kugira ngo bitabweho bihagije.

Ni ngombwa kwirinda ibintu bimwe na bimwe byashobora gutera umuntu ihungabana cyangwa indwara zo mu mutwe, harimo ibiyobyabwenge ,guhohoterwa n'ibindi bintu byose byatera kuba umuntu yagira ihungabana cyangwa izindi ndwara zo mu mutwe.

Imbaga nyamwinshi yiganjemo cyane cyane igitsina gore, aho baje gufata ibiganiro cyangwa ingamba z'uburyo bagomba kwirinda no kuvura abantu bafite ikibazo cy'indwara zo mu mutwe.

Ubushakashatsi mu gihugu cy'u Rwanda n'icya Tajikisitani, bwagaragaje ko kurwanya ihohoterwa n'ibindi bisa nkabyo bigabanya umubare w'abantu barwaye indwara zo mu mutwe.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bari guhabwa amabwiriza y'ukuntu bagomba kwita ku bantu, yaba ari ababo cyangwa abaturanyi babo bafite ikibazo k'indwara zo mu mutwe, bakaba bakitabwaho ku buryo buhagije kugira ngo babone ubuvuzi bw'ibanze.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC gifatanyije na Minisiteri y'ubuzima y'igihugu cy'u Rwanda, aho bateganyije ibiganiro baganira ku buryo bagomba kurwanya no kuvura indwara zo mu mutwe kugira ngo abazifite babashe kugira ubuzima bwiza.

Umugore n'umugabo bafashe umwana mu maboko wambaye imyenda isa nabi kandi icitse ibisa nkaho afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe.

Itsinda rigari harimo abasaza, abakecuru, abagabo, abagore, urubyiruko, bashinzwe kwita ku ndwara zo mu mutwe.

Umukecuru wicaye ku ntebe atetse bigaragara ko atekeye ku mashyiga n'inkwi zirekura imyotsi mu kirere, ishobora kuba yakangiriza ikirere kikaba cyarekura imvura yakangiza ibidukikije.

Umugabo n'umugore bari mu nyubako yabugenewe, aho bari gutanga ibiganiro ku kuba hakitabwa ku barwayi cyangwa no kuba bavurwa, abo barwayi bafite indwara zo mu mutwe.

Tariki icumi z'ukwa cumi buri mwaka, ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara zo mu mutwe, uyu munsi washyizweho na minisiteri y'igihugu y'ubuzima, hamwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC gifatanyije na UNICEF.

Abana benshi bari mu nyubako yabugenewe bishimye cyane kandi baseka, aho bahawe amabwiriza kandi bigishijwe uburyo bagomba kwifata neza cyangwa kwita kuri bagenzi babo bafite ikibazo cy'indwara yo mu mutwe.

Umubyeyi uteruye umwana we yishimye gusa bigaragara ko uyu mwana afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe akeneye ubuvuzi bw'ibanze kuko iyo babukumiriye butarakura bukira,

Umupolisi ugaragiwe n'abandi bantu batandukanye harimo abagabo n'abagore, aho bari kuri santire ya Kacyiru ya isange wani sitopu senta, aho buri umwe atanga ikirego cy'uko yahohotewe.

Umubyeyi ufite umwana bigaragara ko ari kumwe n'undi mubyeyi ufite igikoresho gipima ubushyuhe mu mubiri ,uyu mubyeyi ni umujyanama w'ubuzima aho ari kugira ngo arebe ko nta kibazo cy'uburwayi bafite.

Abana benshi bari ahantu hamwe bigaragara ko bamwe bishimye abandi bababaye, bimwe mu bimenyetso by'abantu barwaye indwara zo mu mutwe bamwe barabigaragaza abandi bameze neza nta kibazo.

Imbaga nyamwinshi y'ababyeyi bari mu nyubako yabugenewe y'ibiganiro, bagiye kuganira ku buryo bakwiriye gufata neza cyangwa no kurinda abana babo indwara zitandukanye.

Imbaga y'abantu harimo abagabo n'abagore n'umuzungu, bafite impamyabumenyi zabo zo kuba hari ubumenyi buhagije bafite mu kuvura cyangwa mu kwita ku bantu bafite indwara zo mu mutwe

Imbaga nyamwinshi iteraniye ahantu hateguwe harimo abaganga n'abaturage rusange, baganirizwa ku kibazo cy'indwara yo mu mutwe kugira ngo harebwe uko bagikemura n'ingamba zafatwa kugira ngo kirwanye burundu.

Umubyeyi uhagaze mu nyubako y'ubuvuzi bw'ibanze ni nkaho ari umuganga ugira inama cyangwa uvura abantu bibasiwe n'indwara zo mu mutwe.

Imbaga y'abantu, harimo igitsina gore n'igitsina gabo, aho imbere yabo hari ibikoresho bimwe na bimwe byifashishwa bapima umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, kugira ngo abashe kwitabwaho neza.

Umurwayi ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, aho bigaragara ko n'iyenda yambaye idafuze kandi yamusaziyeho kandi ko atanitabwaho bihagije nk'abandi kugira ngo abe yabasha kugira ubuzima bwiza buzira umuze.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe bigaragara ko asa nabi kandi yirunzeho ibintu byamuteza indwara nyinshi zitandukanye kuko bisa nabi n'imyenda yambaye isa nabi, ntabasha kwitabwaho bihagije kugira ngo agire ubuzima buzira umuze nk'ubw'abandi.

Kurwanya ihohoterwa ni inshingano za buri wese, kuko bituma hirinda indwara zimwe na zimwe zo mu mutwe ziterwa no kuba umuntu yahohotewe, bigatuma n'abandi babasha kugira ubuzima bwiza.

Imbaga nyamwinshi y'abantu harimo urubyiruko, abagabo, abagore n'abandi, bose bari baje gufata inyigisho n'ingamba ku ndwara zo mu mutwe kugira ngo habashe kwitabwa ku barwayi bazirwaye.

Umukobwa wicaye bigaragara ko azirikishije iminyururu mumaguru kugira ngo atabasha kwiruka cyangwa abe yatorongera hano baramuzirika kugira ngo babashe kumwitaho bihagije.

Umwana w'umusore wicaye hasi asa nabi ntabyo kwambara afite, arigunze, arihebye, ari gutekereza byinshi bigaragaza ko ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe.

Imbaga y'abantu harimo abayobozi, abaganga n'abandi bose bari guhabwa amabwiriza y'uburyo bagomba kwita ku bantu barwaye indwara zo mu mutwe n'uburyo bavurwa bakagira ubuzima buzira umuze.

Umusaza usekeje ufite amenyo y'imbere hejuru no hasi yakutse bigaragara ko afite ikibazo cyo mumutwe ko akeneye kwitabwaho bihagije kugirango avurwe nawe agire ubuzima bwiza.

Icyumba cyabugenewe mu buvuzi bw'ibanze bw'amenyo kirimo ibikoresho byose bigezweho kandi by'ikoranabuhanga mu buvuzi bw'amenyo harimo uburiri, ibindi bikoresho bigezweho bijyanye no gusuzuma no kuvura abarwayi b'amenyo.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi rusange bw'amenyo aho harimo ibikoresho by'ibanze nk'intebe umurwayi aryamaho kugira ngo amusuzume cyangwa amuvure amenyo.

Umukobwa wishimye kandi ameze neza cyane k'ubwo afite amenyo ameze neza kandi yayitayeho bihagije ayarinda indwara zimwe na zimwe zandurira mu kanwa zaba zatera amenyo ye kuba yakangirika.

Umwana muto wegamiye umuganga, aho bigaragara ko afite ikibazo cy'amenyo ko bagiye kumuha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo na we abashe kuba yaba afite amenyo meza kandi adafite uburwayi.

Umugabo ufite urudodo mu maboko ye, nkaho ari kurwishimisha mu menyo, bigaragara ko amenyo ari kumurya cyangwa se inshinya ze zikaba ziri kumurya, aho akeneye kwitabwaho by'ibanze kugira ngo abashe kuvurwa amenyo akire.

Ibikoresho byabugenewe mu buvuzi bw'amenyo bw'ibanze, aho biri mu nyubako yabugenewe irimo n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu kuvura cyangwa mu gusuzuma umurwayi w'amenyo.

Umuganga wambaye amarineti ari mu cyumba cyabugenewe, aho ari kureba amwe mu moko y'amenyo n'uburyo yanduramo indwara, kugira ngo abashe kuba yamenya indwara arajya avura abarwayi baje bamugana.

Umugabo ufite urudodo mu ntoki, aho ari kurwifashisha ashima amashinya y'amenyo, no mu menyo hose bigaragara ko ari kuribwa amenyo, hakenewe ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo agire ubuzima bwuzuye, kandi amenyo ye abe ameze neza.

Icyumba kigezweho cyabugenewe mu buvuzi rusange bw'amenyo kirimo ibikoresho bigezweho by'ikoranabuhanga by'ibanze bikoreshwa mu gusuzuma no kuvura umurwayi urwaye amenyo harimo intebe ibitanda n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho.

Umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe mu buvuzi bw'ibanze bw'amenyo, aho ari guha ubuvuzi bw'ibanze umurwayi urwaye amenyo kugira ngo abashe kuba yakira neza.

Umuganga cyangwa se umuntu ushinzwe kwita kubarwayi, aho ari mu nyubako yabugenewe yahariwe ubuvuzi rusange harimo ibikoresho byose byahariwe ubuvuzi rusange, aho bigaragara ko ari gupima imiti ngo arebe ubuziranenge bwayo.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi w'amenyo, aho umuganga afite igikoresho cyabugenewe, mu gusuzuma neza ngo arebe ko amenyo y'umurwayi ameze neza cyangwa se ari ku murongo kugira ngo abashe kwitabwaho neza.

Abana bafite uburoso mu ntoki n’abandi babufite mu kanwa, aho bigaragara ko bari kwigishwa uburyo bwo gukora isuku neza y’amenyo, kugira ngo hirindwe indwara zimwe na zimwe z’amenyo.

Umusore w'urubyiruko aho afite urudodo mu ntoki, bigaragara ko amenyo ye afite ikibazo cyangwa ari kumurya ashaka kwishimamo, asabwa kuba yabona ubuvuzi bw'ibanze bwihutirwa kugira ngo avurwe.

Umugabo ufite urudodo mu ntoki zombi, aho ari kurwifashisha yishima mu menyo . Bigaragara ko ari kuribwa amenyo akeneye ubuvuzi bw' ibanze kugirango arusheho kumera neza.

Umugabo afite urudodo mu ntoki ze, aho ari kurukoresha yishima mu menyo, cyangwa akaba afite ikibazo cy'ishinya bimurya nk'aho akeneye ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akire amenyo.

Icyumba cyabugenewe mu buvuzi bw'amenyo harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu kuvura abantu barwaye amenyo, harimo intebe ibitanda byabugenewe n'ibindi bikoresho bindi by'ikoranabuhanga bifasha gusuzuma umurwayi.

Umwana wicaye ku ntebe yabugenewe aho umuganga yamwasamuye mu kanwa ngo arebe ko hari amenyo yaba arwaye cyangwa afite ikindi kibazo kugira ngo ahabwe ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umurwayi w'amenyo wicaye ku ntebe yabugenewe, ari mu cyumba, na cyo cyabugenewe, basuzumiramo cyangwa bavuriramo umuntu urwaye amenyo, kugira ngo abashe kugira amenyo meza afite ubuziranenge.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo amamashini, intebe n'ibindi bikoresho bitandukanye bikoreshwa mu kuvura cyangwa mu gusuzuma umurwayi urwaye amenyo.

Umuntu w'igitsina gore ufite ikibazo cy'amenyo, aho ari kugerageza kwishimisha igikoresho kitabugenewe mu menyo, hakenewe ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo abashe kuba yakemurirwa ibibazo afite by'uburwayi bw'amenyo.

Umugabo afite igikoresho mu ntoki ari kwifashisha yishima mu menyo ariko ibi nta go ari byiza kuko nubwo yaba afite ikibazo cy'amenyo nta go ari ngombwa kwishimishamo iki gikoresho kuko kibasha gukomeza kuyamerera nabi, gusa akwiye kubona ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo akire amenyo.

Umuganga wicaye mu cyumba cyabugenewe mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze bw'amenyo aho harimo n'ibikoresho by'ibanze byifashishwa mu gusuzuma cyangwa mu kuvura umurwayi w'amenyo.

Umukobwa uri mu cyumba cyabugenewe cyo gukoreramo amasuku, aho ari gukoresha umuti w' amenyo n'uburoso kugira ngo akore isuku y'amenyo, mu rwego rwo kwirinda indwara z'amenyo zitandukanye.

Umurwayi w'amenyo ari gukurwa iryinyo na muganga hakoreshejwe ibikoresho by'ibanze bifite isuku, bitamutera izindi ndwara ku buryo amenyo ye yakomeza kwangirika.

Umukobwa uri kugaragaza amenyo yiwe, bigaragara ko akoresha neza umuti wabugenewe wo gusukura amenyo, akanisiga amavuta gakondo atuma uruhu rwe rumera neza.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, amarinete n'ibindi bikoresho harimo ibirinda intoki n'ibindi, ari gusuzuma umwana uryamye ku ntebe yabugenewe, areba ko afite ikibazo cy'amenyo kugira ngo abe yahabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Inyubako yagenewe ubuvuzi rusange bw'amenyo aho harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo intebe, uburiri baryamaho umurwayi igihe bagiye kumusuzuma cyangwa bagiye kumuvura amenyo.

Abayobozi n'abazungu n'abaganga basuye ikigo cy'amashuri aho bari kwigisha abana bakoresheje imfashanyigisho uko amenyo mu kanwa aba ameze kandi bakanabigisha uko bakwiye kuyakorera isuku neza n'uburoso n'umuti w'amenyo.

Ucyumba cyabugenewe mu buvuzi bw'ibanze bw'amenyo, kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu buvuzi bw'amenyo, harimo intebe n'uburiri umurwayi aryamaho ari gusuzumwa cyangwa ari kuvurwa amenyo.

Umuganga uri kumwe n'umugabo ukuze wicaye mu kagare, aho bari mu nyubako yahariwe abantu bakuze kugira ngo bitabweho kuko bataba bakibasha kwiyitaho kubwo ubusaze.

Umusaza n'umukecuru baricaye, bari guseka, barishimye, baranezerewe, bari gukina imikino ibafasha kuruhura mu mutwe no kuba bagarura akanyamuneza muri bo.

Umusaza n'umukecuru bicaye bagaragiwe n'abandi bantu, bigaragara ko bari mu birori cyangwa ahandi hantu bafata inama cyangwa bari guhabwa amabwiriza y'uburyo bagomba kubaho neza kandi bafite ubuzima buzira umuze.

Umuganga ahagaze impande y'umurwayi uryamye hari n'icyuma kuruhande cyangwa igikoresho gipima uburyo ubuzima bw'umurwayi buhagaze aho bareba umutima uko utera cyangwa uko amaraso atembera mu mubiri n'ibindi.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi aho ari kumwitaho kandi amufasha mu kwiga kugenda, aho bigaragara ko uyu murwayi yari arwaye indwara zituma atabasha kugenda.

Umusaza n'umukecuru bari mu rugo rwabo, aho umukecuru yari azaniye umusaza amazi yo kunywa, ari bumufashe kuyungurura, kuyungurura amaraso n'impyiko kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumererwa neza.

Umusaza n'umukecuru bicaye mu nyubako yabo, bafite impapuro nyinshi aho bari gusoma kugira ngo barebe bimwe mu bintu byatuma ubuzima bwabo bukomeza kurushaho kumera neza.

Umusaza uri kumwe n'umuganga cyangwa se umuntu ushinzwe kumwitaho, aho bicaye ku ntebe bafite terefone bari kureba uburyo agomba kwitwara mu buzima bwe bwa buri munsi, n'uburyo agomba kwifata kugira ngo arusheho kumererwa neza.

Umusaza uri mu nyubako ye aho yicaye mu ntebe ari kureba ku cyuma bamwambitse ku kaboko kiri kubasha kumupima indwara zitandukanye harimo no kureba uko amaraso ari gutembera mu mubiri cyangwa se uko umutima uri gutera n'ibindi.

Umuganga uri kumwe n'umubyeyi ukuze, bari mu nzu nziza, bishimye, bigaragara ko uyu muganga yita ku bantu bakuze, baba batagishoboye kwita ku buzima bwabo.

Umusaza n'umukecuru bari mu myitozo ngororamubiri, ibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi kuba bamera neza kandi kuba bafite ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Umusaza uri mu nyubako ari kumwe n'umuganga cyangwa umuntu ushinzwe kumwitaho mu buzima bwe bwa buri munsi kugirango ngo abashewe kureba ko ubuzima bwe bugenda neza kandi yitabwaho bihagije.

Umusaza wicaranye n'abana bato bigaragara ko ari abuzukuru be, aho bari kurya bimwe mu bintu bikozwe mu mafarine, hirya hari umwana ufite akajerekani gashobora kuba karimo amata cyangwa se amazi.

Umuganga ari kumwe n'umubyeyi wicaye mu kagare ushaje bigaragara ko ari kumupima indwara zitandukanye harimo umuvuduko w'amaraso, kuba umutima we utera neza n'izindi kuko uyu mubyeyi afite indwara yo kuba atahaguruka ngo agende.

Isoko rusange yajemo urujya n'uruza rw'ababyeyi bakuze aho baje kugura imbuto, ibiryo harimo ibyubaka umubiri birinda indwara n'ibitera imbaraga kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Umukecuru n'umusaza bicaye bishimye, bari ku meza bafata amafunguro yabo ameze neza, harimo ibirinda indwara, ibyubaka umubiri n'ibindi kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kumererwa neza.

Umuganga ari kumwe n'umusaza mu nyubako yabugenewe aho bafite igikoresho mu ntoki gifasha kugorora imitsi n'ingingo z'umubiri kugira ngo ubuzima bugende neza.

Umusaza wicaye yishimye bigaragara ko ari gukina imikino imufasha kuruhura mu mutwe, ari kumwe n'undi muntu uri kumufasha kuyikina aho ibi ngibi bimufasha kuruhuka mumutwe kandi akaba yatekereza neza.

Ababyeyi bashaje harimo n'abasaza aho bari kumwe n'umuntu ubitaho, aho ari ku hakoresha imyitozo ngororamubiri bagenda babyina kugira ngo babashe kugorora ingingo zabo bagabanye n'umubyibuho ukabije.

Umukecuru n'umusaza bicaye mu nyubako yabo aho ku meza hari ikirahuri cy'amazi n'imiti, umukecuru arikwereka umusaza uko agomba gufata neza imiti yandikiwe na muganga.

Imbaga y'abantu benshi, harimo abasaza, urubyiruko, abagabo, abagore, n'abakecuru, baganira hamwe ingingo zimwe na zimwe zo kwita ku basheshe akanguhe.

Umusaza n'umukecuru bicaye mu nyubako yaho, aho bari ku meza mu rwego rwo gufata amafunguro atandukanye hari n'ikirahure cy'amazi ku ruhande, mu mafunguro bafata harimo ibitera imbaraga, ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri bifasha kuba umubiri wabo wamererwa neza.

Umuryango wishimye hariya hantu heza harimo umwana, urubyiruko, umugabo, umugore, umusaza, n'umukecuru aho bagerageza gushimisha abasaza n'abakecuru kugirango ubuzima bwabo burusheho kugenda neza babeho bishimye batigunze.

Umusaza uri kumwe n'umuganga ufite mu ijosi igikoresho gipima uko umutima utera, aho umuganga ari kwigisha anereka umusaza uko agomba kwitwara na bimwe mu bintu agomba gukora kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumera neza.

Umusaza urwaye uri kumwe n'umuganga cyangwa se umuntu ushinzwe kumwitaho mu buzima bwe bwa buri munsi, aho ari kumufasha kuva ku buriri kugira ngo abashe kuba yahaguruka agende arebe ko ubuzima buhagaze.

Umusaza uhagaze uri gukora imyitozo ngorora mubiri, afite udukoresho bakoresha mu kugorora imitsi n'amaboko, kugira ngo ubuzima bukomeze kumera neza.

Abantu benshi higanjemo ababyeyi n'abakecuru, bari gusoroma amababi y'igihingwa bita icyayi cyifashishwa mu gutunganya icyayi cyo kunywa.

Umukecuru uhagaze wishimye ari gukora imyitozo ngororamubiri kandi afite ibikoresho by'ibanze, bifasha kugorora imitsi y'amaboko n'ingingo z'amaboko kugira ngo ubuzima burusheho kumera neza.

Umusaza n' numukecuru bicaye mu nyubako yabo aho umukecuru afite mudasobwa ari kureba uburyo bagomba gukoresha imiti umusaza afite mu ntoki n'uburyo agomba kuyinywamo mu buryo bwizewe.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi w'umusaza, aho ari kumwigisha kugenda, bigaragara ko uyu musaza afite ikibazo cy'uburwayi bw'amaguru.

Umusaza n'umukecuru bicaye mu nyubako yabo, aho imbere yabo hatetse ikirahure cy'amazi n'imiti, umukecuru afite n'urupapuro, umusaza afite terefone mu ntoki aho bari kureba uburyo bagomba gukoresha imiti neza.

Umubyeyi usheshe akanguhe afite ikirahure cy'amazi mu kuboko kumwe, mu kundi kuboko harimo imiti agiye kunywa ari kureba ko imiti agiye kunywa ari yo koko agomba kunywa kandi yujuje ubuziranenge.

Umuryango urimo abakecuru, urubyiruko, n'abana, sowe, n'umuzungu, aho baje kuganiriza abakecuru, babitaho, kugira ngo babashe kwiyumva ko bameze neza.

Umukecuru ari gutunganyiriza amafunguro hanze ahantu hatabugenewe, aho ari gukoresha uburyo bwa kinyarwanda atekera ku mashyiga kandi akoresha n'inkwi zirekura imyotsi mu kirere zikaba zakangiriza ibidukikije.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi akwiye kwitaho, bigaragara ko uyu murwayi afite ikibazo cy'amaguru cyangwa se imvune yaba yaratewe n'izindi ndwara kugira ngo abashe kumererwa neza.

Ababyeyi bakuze aho bari kumwe n'umuntu cyangwa umuganga ushinzwe kubitaho abagira inama z'uburyo bagomba kwitwara n'uburyo bagomba kubaho bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo babashe kugira ubuzima bwiza.

Abaganga n'abandi bantu basanzwe b'abakorerabushake bari kwita ku murwayi wagize ikibazoa gishobora kuba ari icyo kwikubita hasi cyangwa ikindi kibazo runaka mu rwego rwo kumuha ubuvuzi bwiza kandi akamera neza.

Abantu higanjemo abana, urubyiruko, ababyeyi n'umugabo bari gushishikariza abantu gukoresha udukingirizo mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina.

Ibiro byinshi n'umubyibuho ukabije byatera kanseri, harimo iy'umuhogo, iy'amabere, iy'impyiko n'izindi, ariko kugira ngo twirinde izi kanseri ibyiza ni ugukora imyitozo ngororamubiri no kurya indyo yuzuye no kwirinda ko twagira ibiro byinshi.

Kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende, bituma bumwe mu buzima bw'abantu bamwe na bamwe burushaho gusigasirwa kuko ubushita bw'inkende ni indwara mbi yica kandi vuba.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima arabisi cyashyizeho amabwiriza ngenderwaho cyangwa umurongo ngenderwaho wuko abanyarwanda bagomba kwirinda sida ,bagafata imiti neza kugira ngo birinde impfu za hato na hato ziterwa n' umuntu utafashe imiti neza.

Umusaza uri gushishikariza abantu kurya gufata urukingo rw'indwara iterwa na virusi ituruka mu nkende kugira ngo babashe kuba bayirinda hakiri kare no kuba bayirwanya byihuse.

Imbaga y'abantu baturutse impande n'impande bari mu nyubako yabugenewe , bateranyirijwe hamwe n'abayobozi baturutse impande n'impande , baganira ku cyorezo cya maberg kugira ngo gikumirwe burundu mu rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC hamwe na Minisiteri y'ubuzima, yateguye ibirori byahuriyemo imbaga nyamwinshi y'abaturage ndetse n'abandi, aho bari kwizihiza umunsi wo kurwanya agakoko gatera SIDA.

Uburyo butandukanye bwo kwirinda icyorezo cya coronavirus harimo ubwa mbere guhamagara ubutabazi bw'ibanze igihe hari umuntu ubonye ugaragaza ibimenyetso kwambara agapfukamunwa gukaraba intoki n'amazi meza gushyiramo metero hagati y'umuntu n'undi kugira ngo atabasha kukwanduza.

Imbaga nyamwinshi y'abantu aho bicaye mu nyubako yabugenewe bari kuganira kandi barebera hamwe banafata umwanzuro ku ndwara zimwe na zimwe zugarije isi kugira ngo habashe kuba zarandurwa cyangwa zanavanwaho burundu.

Umugabo n'umugore aho bari gushishikariza abantu kwisuzumisha igituntu kuko ari indwara cyangwa ari icyorezo kivurwa kigakira kandi umuntu akagaruka mu buzima busanzwe.

Ni byiza kwirinda kanseri y'ibere twisuzumisha hakiri kare kuko ari indwara ivurwa igakira kandi abantu bakagira ubuzima buzira umuze, ni imbaga nyamwinshi yagendaga yamamaza ibingibi.

Umugore wicaye mu ntebe ufite indangururamajwi mu ntoki ze aho yishimye ameze nk'utanga ibiganiro byerekeye mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ibindi.

Indwara zitandura mu buryo bw'ubuhumekero cyangwa se umuntu utayirwaye akoze ku kintu uyirwaye yakozeho muri izo ndwara harimo sida, kanseri, indwara z'umutima n'izindi.

Imbaga nyamwinshi iri mu nyubako nini yisanzuye aho ari urubyiruko rw'abakobwa ruri guhabwa amasomo yuko bagomba kwitwara mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Gushyiraho amasomo yabugenewe ku bana, mu mashuri abigisha uburyo bagomba kwirinda agakoko gatera sida n'izindi ndwara zishamikiraho, kugira ngo babashe kuzirinda kugira ubuzima bwabo burusheho kumererwa neza.

Umuyobozi wa minisiteri y'igihugu cy'u Rwanda ushinzwe ubuzima ari kumwe n'abandi bayobozi aho bamaze kuganira ku ngamba zimwe na zimwe n'indwara zimwe zugarije isi kugira ngo bafatire hamwe ingamba zo kuba bazirwanya.

Inyubako yabugenewe, ubuvuzi bw'ibanze bw'abaturage, aho ari inyubako igezweho kandi yakira imbaga nyamwinshi y'abaturage kugirango ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Inyubako nshya, yahariwe ubuvuzi rusange yo mu karere ka Shyira aho yuzuye kugira ngo ize gukemura ibibazo bimwe na bimwe biboneka mu karere ka Shyira byo kudahaza abaturage mu buvuzi rusange.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi rusange bw'ababyeyi, aho buri mubyeyi utwite wifuza kubyara ayijyamo kugirango abashe kubona ubutabazi bw'ibanze no kuba yabyara neza umwana akaba afite ubuzima buzira umuze.

Inyubako yabugenewe yahariwe ubuvuzi rusange bw'abaturage, irimo ibikoresho byose by'ibanze by'ikoranabuhanga n'ibindi bifasha mu buvuzi no gusuzuma abarwayi indwara zitandukanye.

Inyubako y'ababyeyi bita materinite mu ndimi z'amahanga aho bakira ababyeyi batwite cyangwa bagiye kubyara kugira ngo babashe kwitabwaho neza ubuzima bwabo n'ubw'abana babo bube bwizewe.

Inyubako nshya y'ubuvuzi rusange bw'abaturage, aho buri muturage wese agomba kuyegera kugira ngo akemurirwe ibibazo bye, cyangwa avurwe indwara zitandukanye yaba afite, mu buzima bwe busanzwe.

Imbaga nyamwinshi irimo abazungu n'abandi bantu, aho bari ku nyubako y'ibitaro bya Butaro, ibi bitaro bikaba byakira abaturage benshi, kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze ku ndwara zimwe na zimwe zikomeye zugarije abantu.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi rusange, harimo umuganga wicaye ku ntebe igezweho, hirya hari uburiri bugezweho bw'abarwayi n'ibikoresho byabugenewe mu gusuzuma abarwayi indwara zitandukanye.

Inyubako nshya yabugenewe mu buvuzi rusange bw'abaturage ya Kigina, aho yegegerejwe abaturage kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze, mu gukemura ikibazo cy'uburwayi cyugarije agace nk'aka ngaka.

Inyubako yahariwe ubuvuzi bw'ibanze, aho ifite ibyumba by'ubwiherero kugira ngo umurwayi agirirwe ibanga ku ndwara ye, harimo intebe ibitanda byabugenewe n'ibindi bikoresho by'ibanze.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi bw'ibanze aho umuganga ari mu muryango ategereje kwakira umwana uri kumwe n'umusaza uri mu igare, bigaragara ko afite ibibazo by'imvune cyangwa arwaye izindi ndwara zituma atabasha kugenda.

Umuganga ari kumwe n'ababyeyi babiri bashaje, bari ahantu habugenewe, aho ari kubasuzuma zimwe mu ndwara, nk'imivuduko y'amaraso, umubyibuho ukabije, n'ibindi, kugirango ngo barusheho kwitabwaho, kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Icyumba kigezweho cyahariwe ubuvuzi rusange bw'abaturage harimo ibikoresho by'ibanze aribyo umuganga yicaraho nk'intebe n'ibyo umurwayi yicaraho igihe umuganga ari gusuzuma umurwayi indwara runaka.

Inyubako yabugenewe yahariwe ubuvuzi bw'ibanze, ifite ibikoresho byose igenerwa by'ibanze mu kuvura cyangwa gusuzuma abarwayi kugira ngo babashe kuvurwa neza kandi bakire indwara barwaye.

Icyumba cyabugenewe mu buvuzi bw'ibanze, kirimo icyuma cy'ikoranabuhanga cyabugenewe mu gusuzuma indwara ziri mu mubiri imbere cyangwa kureba inyuma indwara zaba zibasiye umuntu.

Inyubako yubatse neza ifite ubusitani bwiza buyizengurutse yagenewe mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku bantu bose hagamijwe ko bakira indwara bafite.

Inyubako igezweho irimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga yahariwe ubuvuzi bw'ibanze ku baturage n'abandi bose, aho hari ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye bizajya bifasha mu buvuzi rusange bw'abaturage.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi rusange bw'abaturage aho iki ari ikigonderabuzima cya Gisenyi cyakira imbaga nyamwinshi y'abaturage kugira babone ubuvuzi bw'ibanze.

Ibirahure n'ikindi gikoreshwa cy'ikoranabuhanga gikoreshwa mu buvuzi bw'ibanze aho cyifashishwa mu kureba indwara ziterwa n'udukoko tutagaragarira amaso.

Inyubako yabugenewe igezweho kandi ifite ibikoresho bigezweho aho harimo ibikoresho nk'intebe, uburiri n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho mu gusuzuma no kuvura abarwayi.

Inyubako yabugenewe y'ibitaro bya Butamu aho bakira abarwayi batandukanye baje babagana kugira ngo babashe, kuba bakivuza indwara bafite zitandukanye.

Inyubako yabugenewe yahariwe ubuvuzi bw'ibanze bw'abaturage, aho ikoreshwa cyane cyane mu biganiro rusange by'abaganga n'abaturage mu buryo bagomba kwirinda indwara zimwe na zimwe zugarije abantu.

Inyubako yabugenewe mu guha abaturage ubuvuzi bw'ibanze ariko yigenga ikorana na Leta kugira ngo abaturage bose babashe guhabwa ubuvuzi bw'ibanze cyane cyane ku baturage bafite ubwishingizi butari ubwa Leta.

Inyubako yuzuye neza y'ubuvuzi rusange naho haza urujya n'uruza rw'abantu babaganga, kugirango bavurwe neza indwara zimwe na zimwe bafite kandi bakemurirwe n'ibindi bibazo by'ubuzima bafite.

Inyubako itaruzura neza izifashishwa mu gutanga ubuvuzi bunogeye buri muturage wese hagamijwe guha ubuvuzi buri muntu cyangwa buri muturage wese uje ubagana.

Inyubako igezweho yabugenewe mu buvuzi gakondo, irimo ibikoresho byabugenewe mu gusuzuma cyangwa mu kuvura umurwayi, kugira ngo abashe kugira ubuzima buzira umuze.

Inyubako nziza ifite ubusitani bwiza y'ubuvuzi rusange bw'abaturage aho abaturage bayigana kugira ngo bahabwe ubuvuzi bunogeye.

Inyubako y'ubuvuzi rusange, irimo abaganga babiri ni'ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gupima uko ubuzima bw'abarwayi buhagaze.

Inyubako y'ivuriro rya gisirikare aho haza urujya n'uruza rw'abantu ar'abasanzwe hamwe n'abasirikare baje kwivuza indwara zitandukanye bagahabwa imiti ibafasha gukira izo ndwara.

Inyubako ya kaminuza nkuru y'igihugu, aho iyi kaminuza yigisha ibijyanye n'ubuzima no kwita ku ndwara runaka zibasira abaturage kugirango zibashe kuba zarandurwa burundu.

Inyubako yabugenewe y'ibitaro ishinzwe kuvura abaturage rusange bose, yaba abigenga n'abatigenga kugira ngo babashe kubona ubuvuzi bw'ibanze, kandi bakitabwaho ku buryo bukwiriye.

Inyubako yabugenewe mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze, aho cyane cyane bita ku babyeyi batwite cyangwa ababyeyi bagiye kubyara kugira ngo bitabweho bihagije, kugirango babyare neza abana bafite ubuzima bwiza.

Inyubako yabugenewe yahariwe ubuvuzi bw'ibanze, aho ari inyubako yisanzuye cyane, ifite hirya icyumba kigaragara ko ari icyo urusuzumiro rw'abarwayi aho hisanzuye cyane, bigaragara ko ari aho basuzumira abantu bafite ubumuga, bwabo ari ubw'ingingo n'ahandi.

Urujya n'uruza rw'abantu bari kugana ibitaro bya Ruhengeri biherereye mu karere ka Musanze kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi gakondo aho yubatse mu buryo bw'ikoranabuhanga aho uvura umurwayi bakoresheje ibyuma by'ikoranabuhanga ukamuvura neza kandi agakira neza.

Inyubako yabugenewe yahariwe ubuvuzi rusange bw'abaturage, aho buri muturage wese ubikeneye kandi ubishaka aza agasuzumwa indwara yasanga ayifite agahabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Icyumba kigari cy'abarwayi harimo abaganga, uburiri, inzitiramibu zibarinda imibu itera malariya, harimo n'ibindi bikoresho by'ibanze byo kwa muganga.

Inyubako igezweho yagenewe ubuvuzi rusange bw'abaturage n'abandi barwaye bose begereye iri vuriro rya kigina, aho buri murwayi arigana kugira ngo asuzumwe kandi avurwe neza indwara afite.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi bw'ibanze bw'indwara ya kanseri aho buri murwayi cyangwa buri muturage w'u Rwanda wese urwaye iyi ndwara ya kanseri ahagana kugira ngo bamufashe kuba yakitabwaho.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi bose bambaye agapfukamunwa, aho umuganga ari gufata amaraso umurwayi kugira ngo abashe kuba yawusuzuma zimwe mu ndwara ashobora kuba arwaye kugira ngo azivurwe neza kandi zikire.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi bw'ibanze harimo umurwayi uryamye ku gitanda cyabugenewe n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu gusuzuma uburwayi.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi rusange bw'abaturage, aho bakoresha ikoranabuhanga mu kuvura abaturage indwara zitandukanye, harimo nk'izo mu mutwe n'izindi kugira ngo babashe kumererwa neza.

Inyubako yabugenewe yahariwe ababyeyi bafite impinja cyangwa se ababyeyi batwite, kugira ngo babashe kwitabwaho by'ibanze, kugira ngo ubuzima bw'abana bafite cyangwa batwite burusheho kumererwa neza.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi rusange bw'abaturage cyangwa abarwayi batandukanye, aho harimo ibikoresho by'ibanze mu kuvura cyangwa no gusuzuma abarwayi indwara zitandukanye, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byinshi, kandi bigezweho.

Inyubako yabugenewe yo mu buvuzi rusange bw'abarwayi, aho buri murwayi abagana afite ikibazo cyangwa afite indwara runaka kugira ngo bamufashe kuba yavurwa neza kandi agakira.

Icyumba cyabugenewe mu buvuzi bw'ibanze aho gifite ibikoresho byose by'ibanze, harimo uburiri n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, imiti byose bifasha mu gusuzuma no kuvura umurwayi indwara arwaye kandi agakira neza.

Inyubako itaruzura neza y'ibitaro bya nyarugenge, yagenewe ubuvuzi rusange bw'abaturage bakarere ka nyarugenge, kugirango babone ubuvuzi bakeneye.

Umuntu wicaye ku ntebe yabugenewe, uri mu nyubako y'ubuvuzi bw'ibanze, hirya ye hari ibikoresho bakoresha mu kuvura umurwayi, hibandwa kureba ku gitera indwara.

Inyubako y'ubuvuzi rusange irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bishinzwe kugenzura uko umubiri w'umuntu uri gukora, n'uko uhagaze bagamije kureba mo imbere umubiri w'umuntu uko ubuzima buhagaze.

Ivuriro ryigenga, ryifashishwa mu buryo bw'ibanze ku muntu udafite ubushobozi bwo kuba yagera ku kigo nderabuzima byihuse ngo bamufashe.

Ikigo nderabuzima cya Gisheru, aho iki kigo nderabuzima abaturage bose baturiye aka gace baza kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze ku ndwara zimwe na zimwe barwaye kugira ngo babashe kuba bakira neza.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi bw'ibanze bw'abarwayi, aho ifite ibikoresho bigezweho harimo ibitanda, ibyumba by'ibanga, bikoreshwa mu gusuzuma no kuvura abarwayi neza.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi bw'ibanze bw'abarwayi, aho ifite ibyumba by'ibanga umuganga ashobora gusuzumiramo umurwayi kugira ngo agirwe ibanga y'indwara ye kandi akanavurwa indwara ye neza.

Inyubako yabugenewe aho abaganga bahurizamo abarwayi kugira ngo basuzumwe cyangwa bavurwe indwara zimwe na zimwe n'uburyo babasha kubitaho kugira ngo bakomeze kugira ubuzima buzira umuze.

Inyubako igezweho yabugenewe mu buvuzi bw'ibanze bw'abaturage, aho harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu gusuzuma cyangwa mu kureba mu mubiri w'umuntu imbere niba ntakibazo afite cy'uburwayi.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi rusange. Aho hari umwana wicaye mu kagare uri hanze yaje gufata akayaga kugirango abashe kugarura ubuyanja.

Inyubako yabugenewe yahariwe ubuvuzi bw'ibanze aho ifite ububiko buhagije bwo kubika imiti itandukanye izajya ihabwa abarwayi bavuganye, ifite n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa bavura cyangwa basuzuma abarwayi.

Inyubako y'ubuvuzi rusange aho ari ububiko bw'imiti myinshi itandukanye ivura indwara zitandukanye z'abarwayi iyo baje babagana muri rusange.

Ikigonderabuzima cya Gashasha ni inyubako yabugenewe ubuvuzi bw'ibanze iherereye mu karere ka Rusizi aho uyu muturage w'aka karere ahagera kugira ngo ahabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Inyubako yabugenewe ku buvuzi rusange, aho hanakoreramo ubushakashatsi ku ndwara zimwe na zimwe cyangwa ibyorezo byugarije abantu kugira ngo bibashe kuba byabonerwa umuti.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi rusange bw'abaturage bose, aho hibandwa mu kuvura abantu bafite ubumuga yaba ubw'amaguru cyangwa amaboko, kugira ngo babashe kwitabwaho na bo babone ubuzima buzira umuze.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi rusange y'ikigonderabuzima cya Nyarurenzi, aho batanga ubuvuzi rusange ku bantu bose, aho buri muntu ufite ikibazo cy'uburwayi aza akabegera bakamuvura, kandi agasubirayo avuwe neza.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi bw'ibanze bw'amaso aho hari ibikoresho byabugenewe, harimo amadarubindi bambika umurwayi basanganye indwara runaka y'amaso kugira ngo amufashe mu gihe atarakira neza.

Inyubako y'ubuvuzi rusange bw'amaso aho ari ibitaro bya gihundwe biherereye mu karere ka rusizi, aho buri muturage wese abigana urwaye amaso kugira ngo bamusuzume kandi bamuvure amaso.

Icyumba cyangwa inyubako yabugenewe mu buvuzi bw'ibanze aho ifite ibikoresho byose bihagije mu gusuzuma cyangwa kuvura umurwayi kugira ngo abone ubuvuzi buhagije kandi bw'ibanze akire amere neza.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi rusange bw'abaturage igezweho, aho ifite n'aho baganirira bafata ingamba zimwe mu zihagarika indwara zimwe na zimwe zugarije isi.

Inyubako yabugenewe mu guha ubuvuzi rusange ku baturage bateraniye mu ibitaro bya Kabgayi, kugira ngo baze babigana bahabwe ubuvuzi bw'ibanze, banivuze indwara bafite kugira ngo bakire neza babone ubuzima buzira umuze.

Umubyeyi utwite aryamye ku gitanda cyabugenewe ari kumwe n'umuganga ushinzwe kwita ku bagore batwite, aho uwo muganga afite igikoresho cyabugenewe mu kumva uko ubuzima bw'umwana bumeze mu nda.

Inyubako yabugenewe ihariwe ubuvuzi rusange, aho ifitemo ibikoresho by'koranabuhanga binyuranye, bifasha mu gusuzuma umurwayi indwara runaka arwaye; no kuba yavurwa by'ibanze.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi rusange bw’abaturage. Aho harimo uburiri, ibikoresho by’ikoranabuhanga, ibyumba by’ibanga. Aho umurwayi agomba kuganirira na muganga kugirango agirirwe ibanga ku ndwara ye.

Inyubako y'ubuvuzi bw'ibanze ariko yigenga, aho umuntu udashoboye kwihutira kugera ku kigo nderabuzima ahagera bakamuha imiti cyangwa ubundi buvuzi bw'ibanze, kugira ngo arusheho kumererwa neza mu gihe adafite imbaraga zo kuba yakihutira kugera ku kigo nderabuzima.

Inyubako yabugenewe yahariwe ubuvuzi rusange y'ikigo nderabuzima cya Tabagwe aho buri muturage wese wo muri aka gace abagana kugira ngo yitabweho kandi avurwe indwara afite.

Inyubako yabugenewe mu guha ubuvuzi bw'ibanze abaturage kandi harimo n'ikigo cy'ubushakashatsi ku ndwara zitandukanye zaburiwe umuti kugira ngo zibashe kuba zabonerwa umuti n'urukingo kugira ngo bibashe guhabwa abaturage.

Inyubako igezweho yabugenewe mu buvuzi bw'ibanze bw'abaturage cyangwa abandi bantu rusange, aho abantu babagana kugira ngo bahabwe ubuvuzi bw'ibanze ku ndwara zimwe na zimwe barwaye.

Umuganga ahagararanye n'umubyeyi uteruye umwana amaze kubyaza mu cyumba babyarizamo, hirya hari ibikoresho by'ibanze biri muri icyo cyumba bakoresha babyaza n'ibindi byose binyuranye.

Inyubako yabugenewe mu buvuzi bw'ibanze bw'abaturage cyangwa abarwayi rusange harimo ibikoresho bigezweho byabugenewe mu gufasha abarwayi kuba bavurwa neza kandi bakitabwaho mu buryo bwizewe.

Inyubako ishinzwe ubuvuzi bw'ibanze bw'abaturage ariko yigenga, gusa ikorana n'ibigo by'ubwishingizi bya leta n'ibindi kugira ngo habashe guhabwa ubuvuzi bw'ibanze ku bantu bose batandukanye.

Inyubako yabugenewe izengurutswe n'ubusitani bwiza, aho iyi nyubako izafasha mu buvuzi bw'ibanze, kugira ngo buri murwayi wese ubagannye, azafashwe byihutirwa, kugira ngo indwara arwaye ayivurwe ikire, kandi amere neza.

Inyubako yigenga ikoreshwa mu buvuzi bw'ibanze igihe umurwayi adafite uburyo bwihuse bwo kugera ku kigo nderabuzima ngo ahabwe ubuvuzi bw'ibanze.

Iyi nyubako yayigenewe mu buvuzi rusange bw'abaturage, aho ifite jaride nini abarwayi bashobora kuba bajya kwicaramo bakaruhuka aha ngaha batanga ubuvuzi ku baturage bose kugirango babashe kwitabwaho byuzuye.

Inyubako y'ibitaro bya kabgayi aho iyi nyubako yakira imbaga nyamwinshi y'abarwayi kugira ngo babashe kwitabwaho no kuvurwa indwara zimwe na zimwe baba bafite mu buzima.

Igikapu kirimo ibikoresho byose by'ibanze byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze mu kuvura umuntu wagize ikibazo yavunyitse cyangwa yakomeretse ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ibikomere cyangwa imvune ye yitabweho neza.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga gishinzwe gupima abantu basanzwe bakora imyitozo ngororamubiri cyangwa badasanzwe bayikora, kugira ngo habashe kureba uko umubiri wabo ukora cyangwa uko amaraso yabo atembera mu mubiri n'ibindi.

Bimwe mu bikoresho by'ibanze. Bikoreshwa mu kuvura cyangwa mu kwita ku muntu wagize ibikomere cyangwa wavunitse ari ukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo ufite icupa ry'amazi aho ari kunywa amazi meza mu gihe amaze gukora imyitozo ngororamubiri, kugirango aya mazi amufashe mu kuyungurura impyiko no kuyungurura amaraso, kugirango ubuzima burusheho kumera neza.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi uryamye ku buriri bwabugenewe, aho ari kwifashisha umuti ufasha gukangura imitsi cyangwa kuba hari ahantu hari imvune runaka yagize igihe ari mu myitozo ngororamubiri.

Ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri ifasha umuntu kuba amera neza ibiganza ibiteruye imbuto, imboga, n'ibindi byifashishwa umuntu amaze gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo agarure ubuzima yatakaje ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Akaguru gasize umuti ku ivi bigaragara ko ari imvune yabayeho hari gukorwa imyitozo ngororamubiri cyangwa se indi mpanuka isanzwe.

Umukobwa n'umusore aho umusore yicaye ari kunywa amazi umukobwa ari gukora imyitozo ngororamubiri, bigaragara ko bamaze gukora indi myitozo ngororamubiri aho bicaye bari kugirango baruhuke.

Umuntu yafashe umuti ukonje bashyira ku muntu warwaye imitsi igihe itari gukora neza, kugirango ngo bayikangure yongere isubire muburyo bwayo ikore neza.

Umurwayi ufite umuti ukonje cyane ukunda kwifashishwa mu igihe imitsi cyangwa umuntu afite imvune ashaka ko hamera neza cyangwa imitsi igororoka neza ikagaruka mu mwanya wayo.

Umuganga uhagaze ibiganza bye biri ku ivi ry'umurwayi, bigaragara ko ari kumusuzuma ikibazo k'ivi, ashobora kuba ari nk'impanuka yakoze ari gukora imyitozo ngororamubiri, cyangwa ibindi.

Bimwe mu bikoresho bigezweho byabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho babikoresha bagorora imitsi n'amaboko, hari n'ibiryo, harimo imbuto, birinda indwara, ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga, umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri akwiye gufata kugira ngo agarure imbaraga yatakaje.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, harimo abagabo, urubyiruko, abagore, abasaza, bari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo umubiri wabo ubashe kujya ku muronko.

Igikoresho cyabugenewe mu butabazi bw'ibanze, aho gikoreshwa baryamishaho umuntu wagize ikibazo mu myitozo ngororamubiri, cyangwa ahandi kugira ngo ahabwe ubutabazi bw'ibanze, abe yavurwa byihuse.

Igikoresho cyabugenewe mu kuvura indwara cyangwa imvune zatewe n'uko umuntu yakoze imyitozo ngororamubiri cyangwa indi mirimo ivunanye hagamijwe gupfuka igikomere cyangwa kuzirika imvune yagize.

Inyubako yabugenewe irimo ibikoresho byiza kandi bigezweho mu buvuzi rusange bw'abaturage, aho umurwayi amushyira mu cyuma kugirango basuzume neza umubiri we ko ukora neza kandi ntakindi kibazo ufite.

Umukobwa uhagaze w'urubyiruko wambaye imyenda yabugenewe ikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, ahagaze areba imisozi anakora imyitozo ngororamubiri imufasha kuba yashyira bwonko bwe ku murongo n'umubiri we ugakora neza.

Igikoresho gikoreshwa mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri, cyane cyane imyitozo igorora amaboko n'imitsi kugira ngo abashe kwirinda ibintu byamukomeretsa amaboko.

Umukinnyi ukina umupira w'amaguru, aho ari kumwe n'ushinzwe kwita ku bakinnyi bakina umupira w'amaguru, ari kumurebera niba ntakibazo afite mu ivi ko yaba yavunitse cyangwa ari ikibazo cy'imitsi.

Uburyo bunyuranye bw'ibanze umuntu ashobora kwifashisha ari gukora imyitozo ngororamubiri, hari n'isaha ukoresha ubara igihe ukoze ku buryo bumwe bwa siporo, kugira ngo wimukire ku bundi.

Umugabo uri kunywa amazi meza avuye mu icupa risukuye, aho aya mazi ari kuyanywa asoje gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo amazi amufashe mu iyungururwa ry'amaraso no kuyungurura impyiko, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Bimwe mu bikoresho by'ibanze bakoresha mu buvuzi bw'ibanze, igihe umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri akoze nk'impanuka cyangwa akagira ikibazo, harimo agapfukamunwa, inshinge n'ibindi.

Igikoresho cyabugenewe mu buvuzi bw'ibanze mu myitozo ngororamubiri aho cyitwa dorone mu ndimi z'amahanga kifashishwa mu butabazi bw'ibanze mu kwegereza ibikoresho abantu bagize ikibazo bari mu myitozo ngororamubiri.

Umusore uhagaze, ari mu nyubako yabugenewe irimo ibikoresho by'ibanze bikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, aho ari kugororera ingingo ze, amaguru, amaboko n'ibindi bice by'umubiri kugirango ngo abashe kumererwa neza.

Ibikoresho byabugenewe bikoreshwa mu buvuzi rusange, havurwa umuntu wagize ikibazo ari mu myitozo ngororamubiri, cyangwa ikindi kibazo yaba afite cyo kutagira imyitozo ngororamubiri ihagije.

Umwana uri kumwe n'umubyeyi ushinzwe ubuvuzi rusange, ku bantu bagize ikibazo bakora cyangwa badakora imyitozo ngororamubiri, kugirango ngo babashe kwitabwaho neza kandi bagire ubuzima bwuzuye.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho ari kugorora ibirenge amaguru n'ingingo ziwe zose z'umubiri, akagorora umugongo kugira ngo abashe kuba afite ubuzima buzira umuze.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri ariko upfukamye bigaragara ko aribwa ivi ashobora kuba agize ikibazo mu ivi mu gihe yarari gukora imyitozo ngororamubiri.

Inyubako y'ubuvuzi rusange harimo intebe mu buriri amatara n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa basuzuma umurwayi uko ubuzima bwe buhagaze n'izindi ndwara yaba arwaye.

Uburyo butandukanye bukoreshwa mu gihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri harimo guterura ibyuma, gusimbuka, kunyonga igare kugenda n'ibirenge n'indi mikino itandukanye.

Inyubako yabugenewe irimo ibikoresho by'ibanze byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, aho harimo umugabo uteruye igikoresho cy'imyitozo ngororamubiri bifashisha bagorora amaboko cyangwa bagorora agatuza n'umugongo.

Umugabo uri mu nyubako yabugenewe , yemeye gukorerwamo imyitozo ngororamubiri, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye isaha ku akaboko kugira ngo arebe igihe ari kugorora, ingingo ze zose amaboko, amaguru n'izindi ngingo z'umubiri.

Umuti ukora byihuse kandi umara igihe kirekire ufasha mu gutuma uruhu rw'umuntu rumera neza ugakomeza ingingo kandi ukaba wanafasha umugongo mu kutababara cyangwa ukaba wavura umugongo ububabare.

Inyubako yabugenewe irimo ibikoresho nabyo byabugenewe mu myitozo ngororamubiri, aho umugabo ari kubyifashisha akora imyitozo ngororamubiri, aho ari kugorora umugongo n'izindi ngingo z'umubiri.

Ibikoresho byabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, hari n'imetero ifasha umuntu gukora imyitozo ngororamubiri kureba uburebure bwe, ikindi kandi hari n'ibiryo umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri agomba gufata kugira ngo agarure imbaraga yatakaje.

Igikoresho cyabugenewe mu buvuzi bw'ibanze aho bakiyifashisha mu kuvura umuntu wagize imvune y'akaguru ari mu myitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kuba yakandagira akagenda.

Uburyo bukurikiranye bukoreshwa mu guhambira cyangwa mu gupfuka igikomere cy'umuntu wakomeretse, ari mu myitozo ngororamubiri, kugira ngo habashe kuba hakirindwa imyanda ijyamo

Umuganga wambaye agapfukamunwa ari kumwe n'umurwayi uryamye ku gitanda cyabugenewe; hari n'ibikoresho byabugenewe mu gusuzuma neza ngo barebe ko umubiri we ukora neza.

Inkweto zabugenewe bambara bari gukora imyitozo ngororamubiri zibafasha kwirinda kuba umuntu yasitara cyangwa naho yasitara, ntagire igikomere agira ku birenge.

Umubikira n'umuzungu basuye abana mu nyubako yabugenewe aho bari kuberekera uburyo bagomba gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kumererwa neza kandi bitabweho mu buryo bukwiriye.

Umugabo uhagaze neza wambaye imyenda yabugenewe, bigaragara ko akora imyitozo ngororamubiri neza, afite umupira wabugenewe mu gukoresha indi myitozo ngororamubiri mu ntoki.

Ikirahure kiri gusukwamo amazi avuye mu icupa meza asukuye kandi arinda indwara zimwe na zimwe zaterwa n'amazi adasukuye.

Karoti, indimu, amashu n'izindi mboga rwatsi n'izindi mbuto bifashishwa umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri, aho agomba kubirya kugira ngo agarure ubuyanja.

Umukobwa wicaye mu kibuga aho ari ahantu habugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho yicaye ari gukora imyitozo ngororamubiri ngo agorore imitsi cyangwa ingingo z'umubiri we, kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumererwa neza.

Ubuzima budakora imyitozo ngororamubiri bubaho buhangayitse kandi bufite indwara nyinshi, aho buri muntu wese agomba gukora imyitozo ngororamubiri kandi yagira ikibazo akegera ubuvuzi bumwegereye kugira ngo bumufashe kumererwa neza.

Umugabo uri kunywa amazi avuye mu icupa ryabugenewe kandi risukuye neza aho aya mazi amufasha mu kuyungurura impyiko n'amaraso kuko amaze gukora imyitozo ngororamubiri kandi aya mazi afasha umubiri gutuza ukamera neza.

Umukobwa wicaye mu muhanda wambaye imyenda yabugenewe gukoresha imyitozo ngororamubiri, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri agorora amaguru, amaboko, umugongo n'ibindi bice by'umubiri n'ingingo ze kugira ngo ubuzima bwe bube buhagaze neza.

Umusore uri kunywa amazi bigaragara ko asoje imyitozo ngororamubiri, aho aya mazi amufasha mu kuyungurura impyiko n'amaraso kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumererwa neza.

Igikoresho k'ikoranabuhanga gikoreshwa mu buvuzi rusange, aho gikoreshwa bapima zimwe mu ndwara ziterwa n'udukoko tutagaragarira amaso, kugira ngo zibashe kuba zakitabwaho.

Igikoresho kimwe k'ibanze ariko kiri mu mabara atandukanye kifashishwa mu buvuzi bw'ibanze ku muntu ukora imyitozo ngororamubiri akaba yavunika, bakifashisha bazirika ahantu yagize imvune.

Igikoresho gikoreshwa mu buryo bwizewe kandi bubangutse, aho gihabwa umuntu ufite ubumuga mu maguru, kugira ngo kimufashe kuba yahagarara cyangwa yakora urugendo neza bitamubangamiye.

Ibikoresho n'ibiribwa, hamwe n'amazi. Mu biribwa harimo imbuto, ibirinda indwara, harimo nk'amashu, n'ibindi, biri mufasha umuntu wakoze imyitozo ngororamubiri kuba yagarura ubuyanja.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi bw'ibanze igihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri ashobora gukomereka cyangwa akavunika, ibi bikoresho bikaba byakifashishwa mu kumuha ubutabazi bw'ibanze kandi akavurwa neza agakira.

Inyubako yabugenewe irimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, rikoreshwa mu myitozo ngororamubiri, aho ari umukobwa uri gutozwa uko bikoreshwa, n'umugabo wambaye agapfukamunwa.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri aho ari gukora imyitozo yo kugorora amaboko, amaguru, ingingo z'umubiri zose kandi yambaye imyenda yabugenewe yahariwe mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuganga uri kumwe n'umurwayi mu cyumba cyabugenewe cy'abarwayi, aho ari kumufasha mu kumwigisha guhagarara neza, bigaragara ko uyu murwayi yari arwaye indwara yamuteye kudahagarara neza cyangwa kuba ikimuga.

Umukobwa uri ku musambi wabugenewe mu myitozo ngororamubiri, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri agorora ingingo, amaguru, umugongo n'amaboko ye kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umusore wicaye hejuru y'ikiraro, ari mu myitozo ngororamubiri, ari kugorora amaguru, amaboko, umugongo, n'ibindi bice by'umubiri, kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wicaye ku musambi nk'igikoresho cyabugenewe mu gukora imyitozo ngororamubiri, aho umukobwa ari kugorora amaboko, amaguru, umugongo n'ibindi bice by'umubiri kugira ngo abashe kuba agororotse.

Urutonde rw' ibintu binyuranye aho hari amabwiriza, imyambaro, ibikoresho, nuko umuntu agomba kwitwara mu gihe ari gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo hirindwe impanuka no kuba yavunika ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Igikoresho cyangwa icyuma cyahariwe mu buvuzi cyangwa mu gukora imyitozo ngororamubiri aho cyifashishwa umuntu ari kubara igihe ari gukoresha ari gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se izindi gahunda yaba ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umwanya cyangwa ikibuga cyabugenewe mu gusuzuma abantu badakora imyitozo ngorora mubiri kugira ngo babashe kuba bakora imyitozo ngorora mubiri, kugira ngo zimwe mu ngingo z'imibiri yabo zirusheho kumera neza.

Ibikoresho byinshi binyuranye biri mu gikapu bikoreshwa mu buvuzi bw'ibanze ku muntu wagize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri, harimo amasizo, inshinge, bibikoresho bipi uko umutima ugenda neza n'amaraso n'ibindi kugira ngo ubuzima bwe burusheho kumera neza.

Igikoresho cyabugenewe cyifashisha mu gutwaraho umurwayi ugize ikibazo runaka bitunguranye kugira ngo abashe kuba yagerezwa aho ari buhabwe ubutabazi bw'ibanze ku gihe.

Umwana w'umukobwa w'urubyiruko, ari kunywa amazi avuye mu icupa ryabugenewe ry'amazi asukuye, bigaragara ko avuye mu myitozo ngororamubiri kandi aya mazi akamufasha kuyungurura impyiko n'amaraso kugira ngo ubuzima burusheho kumererwa neza.

Igikoresho cyabugenewe mu buvuzi bw'ibanze, aho gikoresha mu gupima umuvuduko w'amaraso cyangwa uko umutima utera, nk'umuntu ukora imyitozo ngororamubiri cyangwa utayikora, kugira ngo habashe kuba hafatwa ingamba zikakaye ku muntu utayikora kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi afite mu biganza bye umuti ukonje cyane bakunda kwifashisha mu kugarura imitsi cyangwa se ahantu urugingo rwatandukanye n'urundi; cyangwa se imvune runaka, kugira ngo ibyo byose bibashe kugaruka mu murongo. Ubuzima bubashe kumera neza.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyagenewe mu buvuzi rusange, cyifashishwa mu kureba udukoko tutagaragara dutera indwara zimwe na zimwe.

Icyumba cyangwa inyubako yabugenewe irimo ibikoresho byo gukoresha mu myitozo ngororamubiri, aho hari umwarimu uri gutoza umugabo amwerekera uburyo bakora imyitozo ngororamubiri bakoresheje ibyo bikoresho.

Bimwe mu bikoresho bitandukanye bikoreshwa mu kugorora amaboko mu myitozo ngororamubiri hamwe n'ibiryo umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri agomba gufata mu rwego rwo kugarura imbaraga yatakaje harimo imbuto n'ibyubaka umubiri n'ibiririnda indwara n'ibindi.

Uburyo bwinshi butandukanye bukoreshwa igihe umuntu ari gukora imyitozo ngororamubiri harimo ukugorora amaboko, kugorora ingingo, kugorora umugongo, amaguru ndetse n'ibindi.

Umukobwa wicaye mumuhanda, iruhande rwe hari icupa ry'amazi, ari gukora imyitozo ngororamubiri imufasha kuba ubwonko bwe bwakora neza, akagorora n'ingingo z'umubiri kugira ngo ubuzima bwe bumere neza.

Inyubako yabugenewe irimo ibikoresho byose by'ibanze byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, aho umugabo ari gukora imyitozo ngororamubiri agorora amaguru, amaboko n'ibindi bice byose by'umubiri, kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Umuntu ufite imiti ikonja cyane bakunda gushyira ku muntu ufite ikibazo cy'imitsi ye itari gukora neza kugira ngo babashe kuyikangura yongere igaruke mu buryo bwayo.

Abana bambaye imyenda yabugenewe mu myitozo ngororamubiri, aho bari mu kibuga cy'umupira w'amaboko bari kubyina bagorora ingingo zabo z'umubiri, kugira barusheho kumererwa neza.

Umwana w'umukobwa w'urubyiruko ari kunywa amazi meza bigaragara ko amaze gukora imyitozo ngororamubiri, kandi aya mazi akamufasha mu kuyungurura impyiko n'amaraso kugira ngo ubuzima burusheho kumumerera neza.

Urutonde rw'indwara zitandukanye harimo umutwe, igicuri, kutumva neza, n'izindi zose ziterwa no kuba umuntu adakora imyitozo ngororamubiri aho umuntu akwiye kugirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo azishyire.

Muganga arikumwe n'umurwayi, aho umurwayi yicaye mu ntebe bigaragara ko afite ikibazo k'imitsi y'amaboko, aho afite mu biganza udukoresho tumwe na tumwe twifashishwa mu kugarura imitsi mu murongo kugira ngo irusheho gukora neza.

Uburyo butandukanye umuntu ashobora gukoramo imyitozo ngororamubiri bitabangamiye umubiri we kandi na we ubwe ativunnye, aho urugero ashobora guhagarara ku kuguru kumwe cyangwa agahagarara ku kundi akarambura amaboko kugira ngo abashe kugorora ingingo zose z'umubiri.

Umusore n'umukobwa bari ukora imyitozo ngororamubiri yo kwirukanka aho bafite amacupa y'amazi ari bubafashe igihe basoje gukora iyi myitozo ngororamubiri.

Igikoresho cyabugenewe mu myitozo ngororamubiri, kigura ibihumbi ijana na makumyabiri, aho bakifashisha mu myitozo ngororamubiri yo kugabanya inda kugira ngo umuntu yirinde umubyibuho ukabije.

Umusore uhagaze uri kunywa amazi mu icupa ryiza kandi risukuye ririmo amazi meza, aho amaze gukora imyitozo ngororamubiri, aya mazi akaba amufasha mu mubiri mu kuyungurura impyiko no kuyungurura amaraso.

Imyitozo ngororamubiri ifasha umuntu uyikora gutuma atekereza neza bigatuma amaraso mu mubiri agenda neza cyangwa se atembera neza, ikindi kandi bigafasha ukora imyitozo ngororamubiri kugabanya ibiro.

Zimwe mu ndwara zibasira abantu badakora imyitozo ngororamubiri zikunda gufata ku gice cyo hejuru cy'ukuguru aho bita ku bibero, iravurwa kandi bigakira igihe umurwayi yitaweho neza.

Igare rikoreshwa mu kwita kubarwayi, bavunitse cyangwa bakoze impanuka cyangwa barwaye impagarara kugira ngo ribashe kubafasha mu kwicara, kuko ntabwo bafite ubushobozi bwo kugendesha amaguru yombi.

Umugabo ari kunywa amazi avuye mu icupa risukuye neza, bigaragara ko avuye gukora imirimo ivunanye, kuko afite icyuya ku mubiri we, aya mazi aramufasha gukora igogora neza mu mubiri we.

Umukobwa uri ku musambi wabugenewe gukorerwaho imyitozo ngororamubiri, ari gukora imyitozo ngororamubiri yo kugorora umugongo n'izindi ngingo.

Umuganga uri kwita ku murwayi uvuye gukora imyitozo ngororamubiri ashobora kuba ari nk'igikomere afite cyangwa yavunitse, umuganga ari kumwitaho kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi uryamye ku buriri bwabugenewe aho umuganga ari gufasha umurwayi mu kumugorora ingingo no kumufasha gukangura imitsi yahinamiranye kugira ngo ibashe kugaruka mu nzira yayo.

Ibikoresho by'ibanze byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri harimo inkweto, imigozi yo gusimbuka, n'ikindi gikoresho bifashisha bapima ko umutima w'umuntu ukora imyitozo ngororamubiri uhagaze neza.

Ibikoresho by'ibanze bikoreshwa n'abantu bashinzwe gutanga ubutabazi bw'ibanze cyane cyane ku bantu bari gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa mu bibuga by'umupira, kugirango babashe kwitabwaho bihagije.

Ibikoresho n'imiti byifashishwa mu kuvura ibikomere by'umuntu uri muri siporo, cyangwa ahandi kugira ngo hirindwe ko mu mugikomere hajyamo imyanda, cyangwa ibindi bintu bishobora gutuma kitamera neza.

Umuntu uri mu masiganwa aho afashwe n'ushinzwe kwita ku bantu bari mu masiganwa mu kibuga y'imyitozo ngororamubiri bigaragara ko uyu muntu yagize ikibazo ari mu masiganwa akeneye kwitabwaho.

Imiti n'ibikoresho rusange byifashishwa mu buvuzi rusange bw'umuntu wagize ikibazo ari gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa ibindi.

Umugabo wicaye mu ntebe uri mu nyubako iwe aho afite umuti ukonja cyane wifashishwa mu kuvura imitsi itari gukora neza cyangwa yikanze kugira ngo ibashe gukanguka.

Umukobwa wicaye, yambaye imyenda yabugenewe mu myitozo ngororamubiri, ari kugorora amaguru, amaboko, n'ibindi bice by'umubiri, nk'umugongo, n'ibindi.

Umukobwa uri mu nyubako yabugenewe irimo ibikoresho byose by'imyitozo ngororamubiri aho ari kugorora amaboko, amaguru, umugongo n'ibindi bice by'umubiri kugirango bibashe kujya ku muronko.

Imiti itandukanye ikorwa mu bimera gakondo aho iyi miti yifashishwa ku muntu wagize ikibazo cyo kubura vitamine mu mubiri cyangwa imyunyu ngugu yagabanutse mu mubiri kugirango abashe kugaruka mu buzima bumeze neza.

Icyatsi bya kinyarwanda bita capisinine. Gikoreshwa havurwa indwara zo mu nda cyangwa izindi ndwara zo ku ruhu zibasira abana cyane cyane.

Icyatsi gakondo gifite uturabo cyitwa inkerabasanya gikoreshwa mu buvuzi gakondo aho cyifashishwa mu gukora indi miti ivura mu nda n'izindi ndwara zitandukanye.

Imiti iri mu macupa y'ibirahure gakondo ikozwe mu bimera gakondo ni kenshi na kenshi ivura zimwe mu ndwara zibasira abasaza harimo za rubagimpande, umugongo n'ibindi

Umuti gakondo uri mu macupa maremare ukozwe mu buryo bw'amavuta, ukoze mu bikakarubamba nk'icyatsi gakondo uvura indwara z'uruhu n'izindi ndwara zitandukanye.

Imiti inyuranye ikoreshwa n'abavuzi gakondo, harimo impu, imizi y'ibiti, n'ibindi byinshi bakoze kugira ngo byifashishwe mu buvuzi gakondo bw'indwara zitandukanye.

Amoko y'imiti gakondo atandukanye, aho hari n'agasekuru gato n'umuhini wako byabugenewe mu kugira ngo babashe kubisya neza, noneho iyi miti ikoreshwe neza kandi yujuje ubuziranenge.

Icyatsi gakondo gikoreshwa mu buvuzi rusange bwa kera cyitwa uruteja, akenshi bakunda kugikoresha iyo bari kurutsa umuntu yariye nk'ibintu bitari butume umubiri umera neza.

Imineke, inanasi n'indi miti gakondo yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zimwe na zimwe ziterwa n'uko abantu badakora imyitozo ngororamubiri cyangwa se iyindi myitozo kugira ngo ubuzima bubashe kumererwa neza.

Umuti uvura kudacika intege no kutarangiza vuba k'umugabo igihe ari gutera akabariro cyangwa ari gukora imibonano mpuzabitsina n'umufasha we.

Imiti itandukanye, harimo amababi, ibiti bindi, harimo imizi y'ibiti, indabo n'ibindi byatsi bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi gakondo, havurwa indwara zibasira cyane cyane abashaje.

Icyatsi gakondo bita umuravumba, cyifashishwa mu gukora indi miti gakondo, aho iyo miti ivura indwara zitandukanye; nk'imihogo, inkorora, n'izindi ndwara zo ku ruhu, kugira ngo umuntu abashe kumererwa neza.

Umuti uri mu icupa rirerire ukoze mu bimera gakondo, harimo ibikakarubamba n'izindi mbuto, uyu muti ukoreshwa mu kuvura indwara z'uruhu n'izindi ndwara zo mu mubiri.

Icyatsi gitoshye kiriho uturabo gikoreshwa mu buvuzi gakondo, aho bagikoresha bavura umuntu urwaye inzoka n'izindi ndwara zijyanye n'ibifu n'ibindi.

Umuti gakondo ukozwe mu bimera bya kera, harimo nk'ibikakarubamba n'ibindi, uyu muti uvura zimwe mu ndwara z'uruhu n'izindi ndwara z'umubiri zitandukanye.

Imiti ikozwe mu byatsi gakondo harimo iyo kwisiga ku ruhu n'ahandi kugira ngo uruhu rw'umuntu rubashe kuba rwanyerera cyangwa rukamera neza cyangwa hakiririndwa ibiheri bizaho.

Amababi y'ibiti harimo n'inturusu n'andi mababi n'utundi duce tw'ibiti bakoresha mu buvuzi gakondo igihe umuntu arwaye cyane akitumbika, barabiteka kugira ngo bizane umwuka kugira ngo umuntu urwaye awuhumeke.

Imiti itandukanye, iri mu macupa y'ubwoko butandukanye, ikorwa mu kimera bita igikakarubamba, ikimera ni gakondo, kandi iyi miti yifashishwa umuntu kuvura indwara zitandukanye, harimo cyane cyane iz'uruhu, kugira ngo rubashe kuba rwamera neza.

Umuti gakondo uri mu icupa aho ukorwa mu buki bw'inzuki kugira ngo uyu muti ubashe gukiza cyangwa kongerera abantu badafite ibinure mu mubiri wabo kugira ngo nabo babashe kugira ubuzima bwiza.

Inyubako yabugenewe igezweho. Ishinzwe kubika imiti gakondo yifashishwa mu buvuzi bw'ibanze ku bantu barwara indwara ikunda kwibasira abasaza, cyangwa se izindi ndwara mu bandi bantu rusange.

Igikakarubamba ni icyatsi gakondo gikorwamo imiti myinshi itandukanye, aho havamo imiti ivura indwara z'uruhu n'indi miti ivura indwara zo mu nda kugira ngo umuntu abashe kuba yamererwa neza.

Ibyatsi gakondo bitandukanye bishinzwe gukorwamo imiti ishinzwe kuvura indwara zitandukanye harimo: umutwe, rubagimpande n'izindi ndwara zibasira abantu bashaje n'abandi bose kugira ngo zibashe kuba zakwitabwaho neza hakiri kare.

Amavuta cyangwa umuti gakondo ukozwe mu gikakarubamba n'isabune ku ruhande nayo ikozwe mu gikakarubamba byose bya gakondo bivura kuba uruhu rw'umuntu rutameze neza bigatuma uruhu rumera neza.

Umuti uri mu icupa ry'umweru ukozwe mu bimera bya kera, harimo ibikakarumba n'ibindi, ushinzwe kuba wavura indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu n'izindi.

Imiti gakondo harimo imizi y'ibiti, amababi n'ibindi byinshi banika bikuma hari n'isekuru yo kubisya kugira ngo bibashe gutunganywa neza kugira ngo bivemo imiti gakondo ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye.

Ni ibiti bimeze nk'imisave bikoreshwa mu buvuzi gakondo, aho abavuzi gakondo babikoresha bavura indwara zitandukanye, nk'umutwe n'andi mavunane y'umubiri umuntu aterwa no kuba yakoze imirimo ivunanye.

Imiti gakondo harimo maciyicayi n'andi mababi y'ibiti, n'andi mababi y'ibindi byatsi, harimo n'indimu byifashisha mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo umugongo n'indwara zo mu nda n'izindi.

Imiti myinshi itandukanye hari iri mu macupa n'ahandi, ikozwe mu cyatsi gakondo bita igikakarubamba, aho iyi miti imwe n'imwe ivura amenyo, impumuro mbi mu kanwa, n'izindi ndwara zo ku ruhu.

Imiti inyuranye ikorwa mu bimera gakondo aho hari imiti yifashisha mu kongera vitamine nko ku kumu waguze vitamine mu mubiri cyangwa ufite isukari nke mu mubiri kugira ngo ubuzima bwe bubashe kongera kugaruka mu murongo.

Icyatsi gakondo gikoreshwa mu buvuzi bw'ibanze, aho kivura inkorora, imihogo n'ibikomere, kugira ngo kibe cyagabanya, ubukana bw'indwara.

Imineke, inanasi, indabo, umunyu, ikawa n'ibindi; byifashishwa mu buvuzi gakondo; hagamijwe kwirinda indwara zifata abasheshe akanguhe.

Imiti itandukanye iri mu macupa n'ahandi aho iyi miti ikozwe mu cyatsi gakondo bita igikakarubamba, imwe n'imwe muri iyi miti ivura indwara z'uruhu ikaba imiti y'amenyo n'ibindi.

Umuti w'amenyo uri gushyirwa ku buroso kugira ngo habashe gukorwa isuku y'amenyo mu rwego rwo kwirinda indwara z'amenyo no kwirinda uburyaryate mu menyo kugira ngo amenyo arusheho kumera neza.

Imiti gakondo itandukanye iri mu macupa menshi atandukanye, aho harimo imiti yo kwisiga kugira ngo uruhu rw'umuntu rubashe kumera neza. Imiti iri aha ngaha imyinshi ikozwe mu kimera bita igikakarubamba.

Umuti ukoze mu bimera bimwe na bimwe bya kera, harimo igikakarubamba n'ibindi, uyu muti ni uw'amenyo, ushinzwe kuvura indwara zimwe na zimwe zakwibasira umuntu z'amenyo cyangwa inshinya, wenda ukaba wavura izo ndwara kugira ngo umuntu abashe kuba yamererwa neza.

Ni imiti y'amavuta gakondo iri mu macupa ikozwe mu gikakarubamba aho ifasha uruhu rw'umubiri kuba rwakoroha cyangwa rukaba runyerera rumeze neza.

Ibyatsi gakondo harimo inyarabasanyi n'ibindi byifashishwa mu gukora indi miti itandukanye, ivura indwara zitandukanye harimo iza rubagimpande zikunda kwibasira abantu bashaje.

Imiti myinshi iri mu macupa atandukanye nk'aho hari imiti gakondo yakozwe mu bimera gakondo harimo nk'ibikakarubamba n'ibindi, iyi miti myinshi ivura indwara zimwe na zimwe zitandukanye.

Imiti iri mu icupa aho ikorwa mu kimera gakondo bita kapusini mu ndimi z'amahanga, iyi miti ikaba yifashishwa mu gukangura ubwonko kandi igatuma n'ubwonko butekereza neza.

Imiti itandukanye ikoreshwa mu buvuzi bw'ibanze aho ivura ingingo zitandukanye ku muntu harimo umugongo, urutugu, ijosi ku ivi, n'ahandi kugira ngo asuzume neza ko ubuzima bwe bugenda neza.

Igiti cya kera cyitwa umuravumba cyifashishwa mu buvuzi gakondo, aho kivura indwara zitandukanye harimo imihogo, inkorora, umutwe n'izindi ndwara zikunda cyane cyane kwibasira abantu bashaje.

Imiti itandukanye ikozwe mu kimera igakondo bita igikakarubamba, aho harimo imiti ikoze mu buryo bw'amavuta ivura indwara z'uruhu no kuba yakura ibiheri ku ruhu n'indi miti yifashishwa mu kuvura izindi ndwara nko kugabanya ibiro n'umubyibuho ukabije.

Umuti ukoze nk'isabune ukozwe mu cyatsi cya kera bita igikakarubamba, aho uvura indwara z'uruhu nk'ibiheri biba biri ku ruhu, bigatuma n'uruhu rumera neza cyangwa rukanyerera.

Amacupa arimo imiti gakondo, hirya hari abavuzi gakondo bari gufasha gutanga imiti ku rujya n'uruza rw'abantu baje kugura iyo miti gakondo kugira ngo babe yabafasha kubakira indwara barwaye.

Umwe mu miti ikozwe mu bimera gakondo harimo iri mu macupa imeze nk'amavuta, hari n'indi ikozwe m'ubundi buryo ifasha umuntu ukora imyitozo ngororamubiri mu kuringaniza ibiro bye.

Igitunguru indimu n'andi mavuta ari mu icupa ry'ikirahure byose byifashishwa nk'imiti gakondo ivura indwara zitandukanye harimo nk'inkorora, imihogo, n'izindi ndwara zitandukanye.

Igiti cy'umuti gakondo bita umuravumba, cyifashishwa mu buvuzi gakondo aho kivura indwara nyinshi zitandukanye harimo imihogo, umutwe n'izindi ndwara z'umubiri kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza.

Igiti gakondo bita umuravumba kifashishwa mu buvuzi gakondo, aho iki giti kivura indwara zitandukanye harimo inkorora, ibicurane, imihogo n'izindi zikunda kwibasira abantu bashaje cyangwa n'abandi muri rusange.

Ibimera bitandukanye gakondo harimo igisura n'ibindi hari n'agasekuru gafashishwa mu kubisya babivanze kugira ngo bitange umuti uvura indwara zitandukanye.

Icyatsi gakondo gikoreshwa mu buvuzi bw'ibanze, aho gikoreshwa mu kuvura indwara zikunda kwibasira cyane cyane abana bakiri batoya.

Ikimera gakondo cyitwa tungurusumu gikoreshwa cyangwa kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zo mu nda, aho gikoreshwa bagicisha hasi cyangwa bakakirya mu biryo mu rwego rwo kuvura indwara z'inzoka.

Umuti witwa revive uvura kurangiza vuba gucika intege mu gutera akabariro n'ingaruka zo kwikinisha kunyura n'indwara za porositate zifata igitsina gabo ku myanya myibarukiro yabo, kugira ngo izi ndwara zose zibashe gukemuka kandi zigakira neza.

Inyubako y'ibanze yabugenewe mu buvuzi gakondo, aho harimo imiti myinshi itandukanye iri mu macupa yahariwe mu buvuzi bwa gakondo mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Imiti itandukanye harimo imiti iririmo icupa imeze nk'amavuta yifashisha mu kuvura indwara z'uruhu, hari n'indi miti ifasha umuntu ukora imyitozo ngororamubiri mu kuba yagabanya ibiro bye.